Mu gihe umuntu yagiye kwa muganga ari ahantu bategerereza, agomba kwitonda akubaha nabo bari kumwe kandi akaba yabaganiriza. Ibi bibafasha kunga ubumwe kandi bigatuma bumva bose bamerewe neza batuje.

Igihugu gishyiraho gahunda zitandukanye, kugira ngo abaturage bacu babashe kubaho neza, zimwe muri gahunda zishyirwamo ni ugutuma abaturage babona ahantu ho kogera, bityo bagakomeza kugira isuku kandi bakishimira ubuzima bwabo.

Abaturage bagomba gusobanurirwa ibijyanye n'iterambere ry'igihugu ariko na none iterambere riza inyuma y'ubuzima bwa muntu, niyo mpamvu mbere ya byose umuturage agomba kwigishwa uko yabungabunga ubuzima bwe n'uko yafata indyo yuzuye.

Abantu b'ingeri zitandukanye bashobora kuvoma amazi bakaba bayakoresha mu buryo butandukanye cyangwa se mu kazi kabo ka buri munsi, amwe mu mazi ashobora gutwarwa mu bikoresho bitandukanye birimo indobo, kandi icy'ingenzi ni uko ibyo bikoresho biba bifite isuku.

Abantu batandukanye bashaka ikintu cyabateza imbere, abayobozi bakunda gukoresha uburyo ubwo ari bwo bwose kugira ngo iterambere ry'igihugu ryiyongere, ni muri urwo rwego hari abantu bashinzwe ibintu bitandukanye umuntu wese ashobora gufata inshingano yaba umugore cyangwa umugabo.

Inyubako zishobora gukorerwamo ibintu bitandukanye, hari nk'inyubako zishobora guturwamo ndetse n'inyubako zishobora kororerwamo amatungo nk'inkoko ndetse n'inkwavu zitandukanye ariko icy'ingenzi ni uko amatungo ndetse n'abantu byose bishobora kubaho bitanyagirwa.

Umusaza wagiye kwa muganga agomba kwitabwaho cyane, agomba guterwa urushinge agapimwa indwara zitandukanye zirimo na virusi itera sida, abaganga babishoboye nibo bakora uyu mwuga kugirango bamenye uburwayi arwaye.

Leta y'u rwanda yashyiriho abaturage ama vomero rusange abafasha kuvoma amazi meza kandi asukuye, abaturage bagomba kwita kuri ayo mazi kubera yuko ayo mazi abafasha mu mirimo yabo ya buri munsi.

Abajyanama b'ubuzima iyo bahuriye hamwe buri wese avuga ikimuhangayikishije ndetse n'imbogamizi yahuye nazo mu gihe yari arimo gukora akazi ke, abajyanama b'ubuzima ni ingenzi cyane mu gihugu kuko batuma iterambere ry'igihugu ryiyongera kandi bagafasha mu kugira abaturage inama

Abantu bagira uruhare mu buzima bwacu bitwa abaganga, baganga ni abantu bo kubahwa cyane kubera ko bagira uruhare mu bikorwa by'ubuvuzi kandi bakatuvura indwara zitandukanye, hari imiti ikorwa n'abantu b'abahanga aba bantu bayishikiriza abaganga babishoboye bakabasobanurira uburyo bayiduhamo.

Gukaraba intoki ni byiza cyane kubera ko bifasha umwana gukura neza, ariko na none bituma atarwara indwara zandurira mu mwanda, gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune bituma umwana yumva amerewe neza cyane.

Abaganga nabo hari uburyo bashobora gukoresha kugira ngo bagirane inama, bungurane ibitekerezo by'uburyo bakita ku bo bavura, niyo mpamvu muganga akwiye kuba ari umuntu wubaha abandi, bityo mu gihe yagiye mu nama akwiye gutanga igitekerezo ariko nawe akibuka gutega amatwi abandi.

Kwa muganga ushobora kuhasanga ibikoresho bitandukanye; bimwe muri byo biba bisaba kugira ngo ubisobanurirwe mu gihe ugezeyo. Hari ibikoresho byihariye byo kwa muganga udashobora gusobanukirwa utabibwiwe niyo mpamvu abaganga bakwiye gusobanurira abarwayi ibikoresho bimwe na bimwe bakamenya uko babikoresha.

Ikigo gishinzwe kwita ku bana ni ingenzi cyane kubera ko gifasha mu kubungabunga uburenganzira bw'abana abana bakwiye kwitabwaho cyane uburenganzira bwabo bukubahirizwa dore ko mu gihugu haba harimo n'amategeko abagenga.

Amazi ni isoko y'ubuzima amazi afasha mu bintu bitandukanye harimo guteka, ndetse no kuba umuntu yamesa imyenda yambaye. Umuntu udafite amazi ntashobora kubaho niyo mpamvu igihugu gikora uko gishoboye kose amazi akaboneka mu gihugu.

Umukecuru iyo agiye kuvoma agomba kwitwaza ikivomesho gito, ku buryo bitamusaba imbaraga nyinshi kugitwara, iyo atwaye ikivomesho kimusumbya imbaraga ashobora kunanirwa cyane, bityo agasaza vuba kandi agapfa.

Nta muntu utifuza kugira ubuzima bwiza ikintu gishobora kugufasha kugira ubuzima bwiza ni ukuba ufite amazi meza muri urwo rwego leta yu Rwanda yatanze amazi ahantu hatandukanye kugira ngo abaturage babashe kubona amazi mu buryo bwihuse.

Umubyeyi wese akwiriye kwirinda kwitwara nabi kuko iyo yitwaye nabi bimugaragaza nabi mu rurhame, ababyeyi b'abagore bakwiriye kubahwa cyane kuko ari bo babyara abantu kandi ni ingirakamaro cyane.

Abana bakwiriye kwitabwaho gusa ikibazo cy'ubukene, gishobora kuba intandaro yo kutita ku bana. Umubyeyi akwiriye gufashwa kurera umwana, niyo mpamvu umugabo akwiriye gufashanya n'umugore we mu rwego rwo kurera abana.

Amazi aba akenewe cyane abanyeshuri ndetse n'abandi baba bakeneye amazi mu gihe ku ishuri haba hakenewe isuku nta kintu gishobora gufasha mu gukora iyi suku uretse kuvoma amazi ku mugezi hanyuma isuku ku ishuri igakorwa.

Abajyanama b'ubuzima bahabwa amahugurwa y'ukuntu bakita ku bantu bafite ibibazo bitandukanye bijyanye n'ubuzima, guhabwa ayo mahugurwa bituma bagira ubumenyi bakoresha bavura kandi bagira inama abaturage.

Umwana n'umubyeyi bakwiriye kuganira ntawe usuzuguye undi; akenshi abantu bakuru hari igihe basuzuguye abana ariko ibi ntibikwiye kuko abantu bose baremwe n'Imana, mu ishusho y'Imana.

Umwana akwiye gukora ibishoboka byose agashimisha ababyeyi, gusa mu rwego rwo kugira ngo isuku yimakazwe mu gihugu hose, hakwiye gushyirwaho imigezi rusange abana bavomaho bityo bagakaraba bakanoga, hanyuma iterambere ry'igihugu rikiyongera.

Kwa muganga haba hariyo abarwayi ndetse n'abaganga, abarwayi bavurwa n'abaganga kandi abaganga bavura indwara zitandukanye bitewe n'indwara umuganga yize kuvura.

Ku ivomo rusange cyangwa se ivomo ryashinzwe kuri gahunda ya leta hahurira abantu batandukanye, abana, abakuru ndetse n'ababyeyi bakuze cyane kugirango bavome amazi yo gukoresha mu bikorwa bya buri munsi. Aya mazi ni ingenzi cyane kuko umuntu atayafite ntashobora kubaho.

Kugira ngo kwa muganga bamenye icyo umurwayi arwaye, barabanza bakamupima. Bimwe mu bikoresho bakoresha bapima abantu harimo urushinge. Urushinge iyo baruteye umuntu arababara, ariko na none bituma muganga amenya icyo umurwayi arwaye.

Abana bafite imirire mibi bakwiye kwitabwaho, bakwiye kujyanwa mu mashuri kandi bakwiye guhabwa indyo yuzuye kugira ngo nabo babashe kugira ubuzima bwiza, abana bakwiye guhabwa indyo yuzuye irimo ibyiganjemo ibinyamavuta kugira ngo babashe gukura neza.

Abaturage bagomba guhurira ahantu bakaganira niyo mpamvu n'ubuyobozi bugira gahunda y'inama yo kuganira kugira ngo bateze igihugu imbere, ibi bikorwa mu rwego rwo kongera iterambere ry'igihugu kandi bagafasha abantu kumva bakunzwe bafite n'ubuzima bwiza.

Ababyeyi bakwiye kwita ku bana babo ariko na none kubyara abana benshi ntabwo ari ibintu byiza kubera y'uko umuntu ashobora kubura ibyo abagaburira, kubyara abana benshi bishobora gutuma umuntu agira ipfunwe ryo gusobanura uburyo yababyayemo.

Akarima k'igikoni gatuma abaturage bava mu mirire mibi, aha hashobora guhindwamo ibihingwa bitandukanye nk'imboga ndetse n'ibindi bituma abantu babona ibyo kurya mu buryo bworoshye dore ko gatwara ubutaka buto.

Kwa muganga haba abantu b'inzobere cyane, abantu bashoboye akazi, abaganga baba bambaye mu buryo bwihariye butuma badakomeza kwandurira indwara zishobora kuva mu barwayi, niyo mpamvu umuntu wese ugiye kuba umuganga agomba gusobanurirwa ibijyanye n'imyambarire.

Umubyeyi wabyaye umwana amujyana mu bitaro agapimwa ibiro kandi uko umwana agenda akura agomba kurushaho gupimwa kugira ngo ibiro bye bikomeze kujyana n'indyo afata, ibi bifasha umubyeyi kumenya uko ubuzima bwe bumeze kandi akamenya uko yamwitaho.

Isi ifite intego yo kubungabunga ubuzima bw'ikiremwa muntu niyo mpamvu umugabane wa afurika washyizeho ibitekerezo, ndetse n'abantu batandukanye bibafasha mu kurinda no kubungabunga ubuzima bwa muntu.

Umunyabuzima cyangwa se umuganga ashobora kumenya uko umurwayi ahagaze mu gihe amuteye urushinge akamenya imirwarire ye, urushinge ruvoma amaraso muri uwo murwayi, hanyuma ayo maraso agapimwa umurwayi akamenya ukuntu ahagaze.

Abantu iyo bagiye kuvoma amazi bagomba gutonda umurongo kugira ngo umuntu ahabwe amazi hakurikijwe igihe yaziye, umuntu iyo aje mbere avoma mbere ariko uwaje nyuma akavoma nyuma.

Amazi atemba akwiriye kwitabwaho cyane abantu bakirinda kunagamo itaka cyangwa se kogeramo, abantu bafite ibikoresho bagomba kuyavoma bakabyogereza mu rugo, kuko kubyogereza muri aya mazi bituma yandura.

Abantu bashobora kujya kuvoma amazi bitwaje ibikoresho bitandukanye, indobo ni kimwe mu bikoresho bikoreshwa kugira ngo abantu bavoma amazi, abakecuru ndetse n'abasaza nabo bakenera amazi yo gukoresha mu buzima bwabo.

Kuganira ni igikorwa cy'ingenzi mu buzima bw'ikiremwamuntu, umuntu iyo aganiriye nundi amenya uko agomba kumwitwaraho, kandi abantu bashobora kuganira bari ahantu hatandukanye nko mu nama n'ahandi.

Amazi atemba nayo agomba kugirirwa isuku, hari uburyo bwinshi amazi atemba ashoboramo kwandura harimo nko kumenamo imyanda, abantu bagomba kwirinda kumena imyanda muri ayo mazi kuko akoreshwa.

Ibigo bishinzwe ubuzima bisobanurira abaturage ukuntu bagira ubuzima bwiza bityo bagakomeza kubaho mu mutekano, niyo mpamvu ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda gishyiraho ingamba ndetse n'igihe cyo gusobanurira abaturage, ibijyanye n'uko bakirinda kugira ubuzima bubi.

Umubyeyi ufite umwana akwiye kumupimisha mu gihe runaka, kugira ngo amenye uko ahagaze, akwiye kumujyana kwa muganga, bakamenya uburyo afitemo ibiro ndetse bakamenya n'uburyo akwiriye kwitabwaho.

Kwa muganga habayo abantu b'inzobere basobanurira abandi ibijyanye n'akazi bakora, abaganga basumbanwa mu buhanga kandi umuganga wicisha bugufi agomba kwemera gusobanurirwa kugira ngo yite neza ku barwayi.

Umwana iyo yavutse agakura yishimirwa n'abantu ndetse nawe akishima, umubyeyi wamubyaye yishimira kuba afite umwana wisanzura ku bandi kandi akunda guterurwa n'abandi bantu.

Abantu iyo bari mu nama baraganira hanyuma bakungurana ibitekerezo, iyo hari ikibazo kibahangayikishije bashaka uburyo bagikemuramo hanyuma icyo kibazo iyo barangije kugikemura bose barishima bakanezererwa kandi bagataha buri wese afite icyo kuvuga.

Ivomero rusange ni amavomero aba yarubatswe ku nkunga ya Leta kugira ngo afashe abanyeshuri, abana, abakuru ndetse n'abandi baturage kubona amazi mu buryo bworoshye bityo isuku yimakazwe mu gihugu.

Sida ni indwara mbi cyane, iyi ndwara iracyahari kandi ishobora gukwirakwira kubera ko umuntu usambanye n'undi ashobora kuyimwanduza, ubwo rero abantu basabwa kwirinda kubera ko nta muti nta n'urukingo igira.

Abana nabo bakwiye kwitabwaho mu buzima bwabo bwa buri munsi, aba ashobora kubitaho ni abantu bakuru, kugira ngo umwana agire ubuzima bwiza hari ibikorwa ashobora gukorerwa bigatuma agira ubuzima bwiza, bimwe muri ibyo bikorwa harimo kuririmba ndetse no kumufasha gusobanukirwa ibintu bimwe na bimwe.

Amazi atuma abantu bagira ubuzima bwiza, hari uburyo butandukanye umuntu ashobora kubonamo amazi, ariko gahunda ya leta ni ukugeza amazi ku baturage bose, mu Rwanda hari ikigo gishinzwe gukwirakwiza amazi mu gihugu kandi buri muturage wese akayabonera ku gihe.

Umwana agira uruhare mu iterambere ry'igihugu. Niyo mpamvu imibereho ye na we ikwiriye kwitabwaho agatekerezwaho cyane kugira ngo iterambere rikomeze kwiyongera yaba mu gihugu ndetse no ku isi muri rusange, bityo ubuzima bukarushaho gukomera.

Abantu b'ingeri zitandukanye bashobora guhura bagahuza ibitekerezo hanyuma bakaganira barangiza kuganira bakaba bahagarara ahantu hamwe bagafata agafoto k'urwibutso kugira ngo bazibuke ibihe bagiranye.

Abanyeshuri iyo bahuriye ku mugezi baravoma ariko bashobora no kuharwanira, niyo mpamvu abantu bakwiriye kwirinda kujya ku mugezi bari kumwe n'abana babo kuko bashobora kuharwanira, umunyeshuri nawe akwiriye kugira isuku ariko hari uburyo bikorwamo.

Abaturage barafashanya cyane mu bikorwa byabo bya buri munsi, abaturage ni ingenzi buri muturage ni ingenzi ku wundi kandi umuturage agomba gufasha undi mu bikorwa bya buri munsi, umukuru umuto bose bagomba gufashanya

Umuntu yagiye kwa muganga ashobora guhabwa imiti mu buryo butandukanye, abana bahabwa ibinini ndetse bashobora no guterwa inshinge, gusa abana batinya inshinge kuko zibarya.

Amazi yubakiwe abaturage imigezi ndetse n'amazi atemba bikwiriye kwitabwaho, umuntu akwiriye kugirira isuku iyo migezi, kubera yuko iramutse itagiriwe isuku ishobora gukwirakwiza indwara mu gihe itanga amazi mabi.

Ivomo rusange ni amavomo aba yarashyizweho kuri gahunda ya leta agamije kugeza ku baturage amazi meza mu rwego rwo kongera iterambere ry'igihugu, niyo mpamvu abayobozi b'imidugudu, utugari n'abimirenge bagomba kubungabunga iyo migezi.

Abantu bashobora kubona amazi mu buryo butandukanye, abantu baturuka mu cyaro bashobora gukora urugendo rw'igihe kirekire bajya kuvoma amazi ku isoko abonekamo, ik'ingenzi ni uko bazana amazi bakoresha mu mirimo yabo ya buri munsi irimo guteka.

Gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune birinda indwara zandura kandi ni ingenzi cyane mu buzima bwa buri muntu, umuntu wese ashobora gukaraba mu gihe avuye ku bwiherero kandi bituma indwara zanduzwa n'udukoko zidakomeza gukwirakwira.

Mu gihe umuntu yagiye kuvoma agomba kwitwaza ikivomesho, umuntu agomba kubanza koza ikintu yagiye kuvomeramo, kugirango ngo amazi ayazane asa neza cyane.

Amazi atuma abantu babaho neza, igihugu kidafite amazi ntigishobora gutera imbere, amazi meza ni ubuzima, muri urwo rwego hari amavoma yagiye ashyirwa ahantu hatandukanye kugira ngo abaturage babashe kubona amazi.

Abantu bashobora kujya kuvoma ahantu hatandukanye, imigezi yo mu rwanda iteye ku buryo butandukanye ku buryo umuntu avoma ahantu ashaka. Hari imigezi miremire ndetse n'imigezi migufiya umuntu avoma amazi yisanzuye.

Amafaranga y'igihugu nayo agomba gucungwa neza, niyo mpamvu hari abantu babishinzwe bagomba kuyacunga, umuntu ucunze amafaranga y'igihugu nabi agomba kubiryozwa, gusa na none ariko abantu bakwiye kwita ku buryo bakoresha amafaranga yabo kuko amafaranga ari ubuzima.

Umwana iyo ajyanywe kwa muganga bamwitaho kandi bamuha ubuvuzi akeneye, umwana wese akwiye kwitabwaho ahabwa indyo yuzuye n'ababyeyi be, kandi akajyanwa kwa muganga inshuro nyinshi kugira ngo ubuzima bwe bukomeze kumera neza.

Umwana mu gihe yari ari gukora ibintu bishobora kuba byatumye akora mu mwanda, ashobora gukaraba amazi meza ndetse n'isabune hanyuma uwo mwanda ukamuvaho, mu gihe umwana agiye gukaraba ababyeyi bakwiye kumufasha gukaraba.

Abakozi bakora kwa muganga babanza guhabwa imyitozo kugira ngo akazi bakora gashobore kugenda neza, ibi byifashishwa n'abantu batandukanye kandi bituma akazi bakora bagakora neza mu buryo bwimbitse.

Abana bakunda gushimishwa n'ibintu bitandukanye. Iyo bari hamwe bafatanye, buri wese aba yumva akunzwe kandi akunze mugenzi we. Umwana ashimishwa no kubona nta muntu umuvuga nabi, kandi yitaweho.

Abana bose bakwiriye kwitabwaho hatitawe ku ibara ryabo umuntu wese kigero yaba arimo akeneye kurya no kunywa kugira ngo agire ubuzima bwiza niyo mpamvu yaba impunzi, umwana uturuka mu kindi gihugu, cyangwa se umwana ufite ikibazo runaka nawe akwiriye guhabwa ibyo kurya n'ibyo kunywa.

Ubuzima burashimisha cyane iyo umuntu nta burwayi afite, ariko kandi birababaza cyane kuba umuntu arwaye bitewe no kuba agira umwanda, ndetse n'ibindi bintu bidashingiye ku kuba ari impanuka kamere, abantu bakwiriye gukora uko bashoboye kose kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Abantu b'ingeri zitandukanye bashobora guhagararana, hanyuma bakaganira ku bintu runaka. Abantu barubahana, ni yo mpamvu batandukanye n'inyamaswa. Umuntu mukuru, umuntu muto, buri wese akwiriye kubaha mugenzi we nk'umuntu.

Hari ibigo byinshi bishinzwe kugenzura ikoreshwa ry'amazi, harimo urugero nk'ibigo bikorera mu Rwanda nka wasake akaba ari ikigo gishinzwe kureba uburyo amazi akwirakwira n'uburyo akoreshwa.

Abantu iyo bagiye ku mugezi bahahurira ari benshi niyo mpamvu baba bakeneye kugira ikinyabupfura kugira ngo hatagira urwana n'undi ashaka gutanga undi kuvoma, abantu bagomba kubaha abandi cyane cyanee abato bakubaha cyane abakuru.

Abantu b'ingeri zitandukanye bashobora gukora ibikorwa bibateza imbere ndetse bakaba bakorera hamwe bakunga ubumwe mu guteza imbere igihugu cyabo, umuntu wese ushaka kugira ubuzima bwiza agomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ubuzima bwe butere imbere, niyo mpamvu umuntu ufite uburwayi akwiye kwisuzumisha hakiri kare.

ivomero rikwiriye kwitabwaho cyane rikagirirwa isuku, abana babujijwe kuhakinira kandi babujijwe guta imyanda ku ivomero kugira ngo ivomero ritagaragaranabi niyo mpamvu leta ibuza abana batoya kujya ku mugezi.

Abantu bose bakwiriye kwitanaho kandi bagafashanya niyo mpamvu hari abantu basobanurira abandi ibijyanye n'ubuzima, ahantu hateraniye abantu benshishobora guhurira ibintu byinshi bishobora kubateza ibibazo ariko kandi bagomba kwitanaho buri wese akita ku nyungu z'undi.

Gukaraba intoki bikorwa n'abantu bo mu ngeri zitandukanye ik'ingenzi ni uko umuntu agira isuku, umuntu wese ukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune ahorana isuku kandi ntashobora kurwara indwara ziterwa n'umwanda zimwe muri zo harimo impiswi.

Abantu iyo bicaye hamwe bari kuganira cyangwa se bashaka gutora umukandida runaka, bagomba kuba bumvikana mu rurimi bavuga bityo buri wese ashobora kumvikana n'undi nta guterwa namba kubayemo.

Ubuzima bukwiye kwitabwaho cyane, abantu bahabwa amahugurwa hanyuma bagafata uburyo bashobora kwita ku buzima bwabo, yaba abakuze, abato ndetse n'abantu bakize, bose bakwiriye kwita ku buzima bwabo.

Kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza bagomba kwitanaho bakaganira ku cyabateza imbere abantu bakwiriye kujya mu nama buri wese agatanga igitekerezo cy'ukuntu yumva ibintu byakorwa kugira ngo iterambere ry'umuturage rigerweho.

Abantu iyo bashaka kwifotoza ifoto, bahagarara neza, bakifata mu buryo umuntu ubafotora ababona neza, kandi akareba umuntu ku giti cye. Ibi bituma umuntu wifotoza agaragara neza mu ifoto.

Abana bakwiriye kwigishwa kugira isuku. Mu gihe bagiye ku ishuri bakwiriye kwerekwa ahantu hari amazi meza ndetse n'isabune, bagakaraba, bakigishwa uburyo bwo gukaraba bakoresheje isabune, bityo bakanoga imyanda ikabavaho.

Gukaraba n'amazi meza ndetse n'isabune nisoko y'ubuzima. umuntu agomba gukaraba intoki n'amazi meza mu gihe yakoze ku kintu gifite umwanda cyangwa se avuye ku bwiherero.

Isi yose muri rusange yihaye intego yo kubungabunga ubuzima, umuntu wese asabwa gushyira mu gaciro ku bijyanye n'ubuzima kugira ngo afashe isi gushyiraho ubu buryo bwo kurinda ubuzima bwe ndetse nubw'abantu muri rusange.

Abantu iyo bari ahantu hahurira n'abantu benshi kandi aho hantu hari abantu bakeneye kuganira hari uburyo bashobora kuganira buri wese akumva icyo mugenzi we yavuze, bashobora gukoresha ibyuma birangurura amajwi.

Umuntu iyo afite umushinga kugira ngo umushinga we utere imbere agomba gukora uko ashoboye akamamaza uwo mushinga. Iyo yamamaje abona abakiriya kandi gusobanura neza iby'umushinga wawe bituma wumvikana. Ibi bikorwa no mu gukangurira abantu kugira ubuzima bwiza harimo n'ubuzima bwo mu mutwe cyangwa se bw'ubwonko.

Umusazi ni umuntu wese ukora ibintu bitamuhesha icyubahiro kandi ukabona nta soni bimuteye, umuntu ufite imico myiza cyangwa se ugaragara nk'umuntu wambaye neza ntashobora kwitwa umusazi, niyo mpamvu mu rwego rwo kugira ngo abantu batandukane n'abasazi bagomba kwiyubahisha.

Umuntu wese ushaka kurya agomba guteka kuko umuntu udatetse ntashobora kubona ibyo kurya mu buryo bworoshye, hari uburyo bwose umuntu ashobora gukoresha kugira ngo ateke, hari ugukora umutsima ndetse n'ibindi bishobora gukorwa n'abantu bakuru bo mu ngeri zitandukanye.

Imodoka zitwara abantu ndetse n'ibintu ziba zitandukanye hari imodoka zifashishwa mu gutwara ibintu, izo modoka zikaba ari nini kandi zifite ahantu ho gushyira ibyo bintu, izo modoka ni ingenzi cyane kuko zoroshya akazi.

Umuntu ufite ikibazo runaka akwiye gushaka umuntu akibwira kugira ngo amuganirize yummva ameze neza. Mu gihe bitabaye ashobora gufata umwanzuro mubi, imwe muri iyo myanzuro ashobora gufata mibi harimo no kwiyahura kandi imana irabyanga.

Abaturage bakwiriye gusobanurirwa ibijyanye n'ubuzima bwabo, kubera ko ubuzima bwabo ari ingenzi cyane. Bumwe mu buryo bwo kubibasobanurira ni ukubasobanurira ibijyanye n'indwara zo mu mutwe n'uburyo zibafata kugira ngo babashe kuzirinda.

Mu bice bigize umuntu harimo igice cyitwa ubwo ubwonko. Ubwonko bufasha umuntu gutekereza, aha akaba ari ho hafasha umuntu gufata imyanzuro runaka. Umuntu iyo yangiritse ubwonko, ntashobora gutekereza neza.

Abantu bakwiye gukora uko bashoboye kose kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Abantu benshi bakora ibintu byinshi birimo siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kugenda neza. Ibi birafasha cyane kandi bituma igihugu gitera imbere mu iterambere ryacyo.

Ubukene butuma umuntu yumva atameze neza adafite agaciro kandi atisanzuye, kugira ngo umuntu arwanye ubukene agomba guhaguruka agakora kandi agashaka ikintu cyose cyamuteza imbere, umuntu wese udakora yaba umugore ashobora gutera inyuma cyangwa se akarwa mu mutego witwa ubukene.

Umubyeyi ufite umwana agomba kumwitaho neza kugira ngo umwana we akure neza, umwana ashobora guhabwa ibere cyangwa se ibindi biryo biteguranye isuku kugira ngo agire ubuzima bwiza ibi ni ingenzi.

Umuntu wese yaba umugabo, umugore, umwana, ndetse n'umuntu ukuze, bashobora kugira uruhare mu gutuma igihugu kirushaho kuba neza, batuma abandi baturage bagira ubuzima bwiza, niyo mpamvu gahunda ya leta ari uko umuturage ahora ku isonga mu buzima bwiza.

Abana ndetse n'abandi bageze mu myaka mikeya urugero nk'ingimbi n'abangavu, nabo bakwiriye kwitabwaho bagasobanurirwa ibijyanye n'ubuzima bwabo dore ko ari ingenzi mu gihe bagezemo, ibi bituma abana batangiza abandi ngo abahungu bangize abakobwa babatera inda zitateganijwe.

Umuntu ukora ubugeni aba ari umuntu w'umuhanga cyane, bimwe mu bikoresho akoresha akora ibikorwa bye by'ubugeni harimo ibumba, gusa hari n'abahanga bakoresha ibikoresho bitandukanye, kugira ngo bakore ibikorwa by'ubugeni bagakoresha ibikoresho bikozwe mu byuma.

Umuntu iyo adatekereza neza ashobora gukora ibikorwa byinshi bibi kandi akenshi abantu badatekereza neza bitwa abasazi, umuntu w'umusazi wamutandukanya n'umuntu muzima kuko we akora ibikorwa bishobora guteza isoni umureba.

Umuntu wese agomba gukora uko ashoboye kugira ngo ubwonko bwe bukomeze gutekereza neza, mu gihe atabikoze bishobora kumuviramo ingaruka zo kuba yahura nk'ikibazo gikomeye urugero nko kuba yasara cyangwa se akavuga amagambo aterekeranye.

Ababyeyi b'abagore ni ab'agaciro cyane kubera ko bagira uruhare mu kubyara abantu, ababyeyi b'abagore bakwiye kubahwa kandi ntabwo bakwiriye kuvunishwa, bakwiriye kwirinda gukora imirimo ibavuna kubera yuko baba barakoze akazi gakomeye ko kubyara abana.

Ubwonko bukwiriye kwitabwaho kugira ngo umuntu yumve atuje, umuntu ufite ubwonko bukora neza ashobora gutekereza ibintu byagira akamaro kandi bituma igihugu gitera imbere, niyo mpamvu umuntu ufite ikibazo cy'ubwonko akwiriye kujya kwa muganga.

Umuntu wese uzi umuco nyarwanda azabona ababyinnyi babyina bafite icumu kandi baseka, ababyinnyi bo mu Rwanda barihariye cyane ku mbyino gakondo, kubera y’ uko bafite ubuhanga n' ubushobozi bwo kubyina mu buryo butandukanye.

Ubwonko ni igice gikwiriye kwitabwaho cyane, kubera ko ari igice gituma umuntu atekereza neza. Ahantu bakora ibi bikorwa byo kwita ku bwonko ndetse n'ibindi bice by'umubiri, nta handi, uretse kwa muganga.

Abantu b'ingeri zitandukanye bashobora kujya kwa muganga bagasobanukirwa uko bashobora kwita ku buzima bwabo cyane cyane abantu bakuze nibo bakunze kujya kwa muganga bagasobanukirwa uko bakwita ku buzima bwabo.

Abantu bose bashaka kugira ubuzima bwiza, bagomba kubisobanurirwa. Ni yo mpamvu ikigo cy'ubuzima mu Rwanda, cyitwa arabisi gisobanurira abantu ibijyanye n'ubuzima, bagahabwa inyigisho z'ukuntu bakiyitaho.

Kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza agomba kwiyitaho kandi akita no kubo abyaye, umuntu wese ushaka kugira ubuzima bwiza agomba kwita ku buzima bwe, niyo mpamvu mu gihugu cy'u Rwanda hashyizweho ikigo gishinzwe kwita ku buzima kitwa arabisi.

Abantu iyo bahuriye hamwe bafite ubuzima bwiza, barishima bagaseka ndetse byaba na ngombwa bagashaka umuntu akabafata agafoto kugira ngo bagaragaze ibyo bagezeho cyangwa se mu rwego rwo kugira ngo batazibagirwa ibihe byiza bagize.

Abaturage kugira ngo bagire ubuzima bwiza hari ibikorwa byinshi bitandukanye bakora kugira ngo babashe kubaho neza, bimwe muri byo ni ukwita ku buzima bwabo bwo mu mutwe harimo gukora ibikorwa bibafasha kugira ubwonko butekereza neza.

Umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe akenshi ubwonko bwe ntabwo buba bukora neza, niyo mpamvu akwiriye gushaka muganga akamusobanurira icyo yakora kugira ngo agire ubuzima bwiza kandi bufite ireme.

Mu gihe cy'icyorezo umuntu aba akwiye kwirinda kugira ngo atanduze abandi, bumwe mu buryo ashobora gukoresha yirinda harimo kwambara agapfukamunwa kugira ngo amatembabuzi amusohokamo atanduza abandi.

Abasazi bagira imyitwarire itandukanye n'iy'abantu bazima kubera yuko bo batagira ikinyabupfura namba, umuntu ufite iki kibazo cy'ubusazi ashobora kuba afite ikibazo cy'ubwonko budakora neza niyo mpamvu akora ibikorwa bitamwubahisha.

Kurakara ni igikorwa kibi gishobora gutuma umuntu akora ikintu atatekereje, abantu iyo barakazwa n'ubusa abandi ntibabakunda. Umuntu urakazwa n'ubusa ashobora kurwana, gutukana ndetse no gufata imyanzuro mibi.

Kwita ku bwonko ni igikorwa cy'ingenzi cyane kubera ko umuntu iyo afite ubwonko bukora neza ashobora gutekereza ibintu bikagira akamaro mu gihugu abantu bashobora kuganira kubera ko baba bafite ubwonko bukora neza.

Hari ibigo bishinzwe isuku mu gihugu cy'u Rwanda, ibi bigo bituma abaturage bahorana isuku kandi bigatuma igihugu gikomeza gcya, ni mu gihe kuko ibi bigo bishobora gutuma abaturage bagira ubumenyi runaka mu bijyanye n'isuku.

Abantu bitewe n'akazi bakora bashobora kuba batandukanye, gusa umuntu ukora kwa muganga uramwibwira kubera ko akora ibishoboka byose ngo hatagira ikintu cyamwanduza indwara, abantu benshi iyo bakora kwa muganga bakunda kwambara udupfukamunwa.

Abantu iyo bafite ubwenge cyangwa se batekereza neza biba bivuze ko ubwonko bwabo bukora neza, niyo mpamvu umuntu wese ushaka ko ubwonko bukora neza agomba kwitabira amahugurwa atangwa n'abaganga batandukanye.

Umuntu ufite ikibazo aba akwiriye kwitabwaho. Hari ibibazo biba bikenewe ko umuntu aganirizwa kugira ngo bikemuke, mu gihe ibyo bibazo bidakemutse ya ashobora kwegera umuntu ubishinzwe w'umuganga akamuganiriza ikibazo afite kigakemuka.

Umuntu ugirira isuku amenyo ye ntaterwa isoni no guseka, ashobora gukora ibintu bitandukanye kugira ngo amenyo ye ahorane isuku harimo gukoresha akadodo hanyuma kakamufasha koza amenyo ye.

Umuntu ushaka kwita ku amenyo ye agomba gukora ibishoboka byose agakomeza kuyagirira isuku niyo mpamvu hari uburyo butandukanye umuntu ashobora gukorera isuku amenyo ye harimo nko gukoresha akadodo, ukoresha uburyo butandukanye kugira ngo umuntu akomeze kugira isuku.

Umuntu iyo ari gukora isuku akoresheje akadodo agomba kuba afite igikoresho kimufasha kureba uko abikora, kubera yuko aramutse abikoze nabi bishobora kumuviramo ingaruka zo kuba yava amaraso mu menyo.

Umunturwaye amenyo hari uburyo bwinshi ashobora kuvurwa niyo mpamvu abantu bakora umwuga wo kwiga kubaga amenyo cyangwa se kuyavura babanza gukora isuzuma ku bintu bitandukanye kugira ngo bamenye uko bavura umuntu urwaye amenyo.

Umuntu iyo arimo gusukura amenyo ye, hari uburyo bwinshi ashobora gukoresha kugira ngo ayasukure. Akadodo ni bumwe mu buryo bw'ingenzi bushobora gufasha abantu gusukura amenyo yabo. Umuntu wese agomba gusukura amenyo, ariko afite igikoresho kimufasha kureba uko abigenza.

Umuntu iyo agiye kuyikuza amenyo baramufata hanyuma akabumbura umunwa bagashyiramo ibyuma byabugenewe bakamukura ayo menyo, iyo bamukuye amenyo yamuryaga uburibwe buhita bugabanuka ntakomeze kubwumva.

Abanyeshuri iyo bishimye batanga ibitekerezo mu ishuri. Hari uburyo butandukanye umunyeshuri ashobora kugaragazamo ko yishimye, harimo nko gusekera mwarimu umwigisha. Gusa umwarimu agomba gukora uko ashoboye kose agashimisha umunyeshuri we, urugero; ashobora nko kumuha impano.

Umuntu atandukanye n'inyamaswa kuko we agomba kwikorera isuku mu buryo bw'umwihariko, umuntu agomba koza amenyo ye mu buryo butandukanye, ushobora gukoresha akadodo, mu gihe ushaka gusukura amenyo yawe.

Umuntu washobora kwita ku menyo ye mu buryo butandukanye arimo gukoresha akadodo kugira ngo amenyo ye akomeze kugaragara nk'aho afite isuku, umuntu utita ku menyo ye bishobora kumugiraho ingaruka mbi kuko ashobora kurwara akajya kwa muganga.

Umuntu iyo afite akanyamuneza araseka cyane abantu bakabibona, umuntu mu rwego ariho yaba umuganga, umuhinzi ndetse n'umworozi ashobora kugira akanyamuneza bitewe n'ikintu cyamushimishije.

Amenyo iyo yitaweho neza aba asa umweru, amenyo meza kuyareba biba bishimishije, hari uburyo bwinshi umuntu ashobora gukoresha kugira ngo yite ku menyo ye harimo gukoresha akadodo mu kuyasukura.

Amenyo y'umwana akwiriye kwitabwaho kubera yuko iyo akuze akomeza gukoresha ayo menyo arya ibiryo by'ubwoko butandukanye, umwana akwiriye kozwa amenyo kugira ngo ahorane isuku.

Ubuzima bw'umuntu ni ubw'agaciro cyane bukwiye kwitabwaho bukabungabungwa kugira ngo akomeze kubaho, kugira ngo umuntu akomeze kubaho mu buzima bwe akwiriye kubugirira isuku niyo mpamvu hari ibikoresho bigaragara kwa muganga bikaba bigaragaza ko umuntu akwiriye kugira isuku ubuzima bwe.

Hari ibikoresho bikoreshwa mu buvuzi, bimwe muri byo ni ibikoresho byifashishwa mu gukura abantu amenyo, iyo umuntu abibonye bitewe n'uburyo biba bigaragara, ashobora kugira ubwoba, ariko ntabwo ibi bikwiriye kubera yuko ubu bwoba ari ubw'ubusa, ahubwo icyo biba bigamije ni ukumuvura.

Umuntu ufite ubwanwa na we akwiriye kubukorera isuku, ubwanwa butuma umuntu agaragara neza ariko iyo butitaweho umuntu ashobora kugaragara nabi, ni yo mpamvu umuntu wese akwiriye kubwitaho.

Umuntu ufite ibyishimo ntakindi kibigaragaza uretse guseka; guseka ni ikintu kigaragaza ko umuntu yishimye atarakaye; umuntu wishimye agaragaza amenyo uretse ko hari no guseka umuntu atagaragaje amenyo yose aribyo bita "kumwenyura".

Hari iminsi mpuzamahanga iba yarahariwe gukoramo ibintu runaka, niyo mpamvu mu rwego rw'ubuzima haba hari n'iminsi yahariwe kwamamaza ibikorwa bijyanye n'ubuzima hari iminsi ifatwa nk'iminsi y'ingenzi abantu bahura bagasobanurirwa ibijyanye n'ubuzima bwabo.

Mu gihe umwana afite ikibazo cy'uburwayi bw'iryinyo nta kindi kintu gishobora gutuma ubwo burwayi bukira uretse kumujyana kwa muganga hanyuma muganga akamufasha gukira iryo ryinyo arikuramo.

Amenyo akwiriye gukorerwa isuku buri munsi, umuntu urwaye amenyo agomba kujya kwa muganga kugira ngo yitabweho n'abantu babishoboye kandi babyigiye maze akomeze amere neza.

Umuntu wese ushaka kugira ubuzima bwiza akwiriye kwivuza ku gihe, ariko na none akwiriye kugira isuku aho ariho hose, niyo mpamvu umuntu utembereye kwa muganga ahasanga isuku idasanzwe ituma yumva amerewe neza cyane.

Umuntu iyo arwaye iryinyo ajya kwa muganga, gusa si ngombwa ko umuntu ategereza kurwara iryinyo kugira ngo ajye kuryikuza cyangwa ahabwe imiti yo kugira ngo atarwara amenyo, ushobora gukoresha akadodo ukoza amenyo yawe bityo ukamererwa neza.

Umuntu ufite i ryinyo rirwaye ajya kwa muganga bakamuha ubuvuzi bw'ibanze butuma iryo ryinyo ridakomeza kumurya, cyangwa se ryaba ari ngombwa iryo ryinyo rimurya bakarikuramo.

Umuntu ushaka kwita ku menyo ye agomba kuyasukura akoresheje umuti wabugenewe, agomba kandi kuyasukura arimo yireba, akirebera mu ndorerwamo ireba neza, akareba ukuntu amenyo ye asa.

Mu gihe umuntu yagiye kwa muganga agomba kwitwararika cyane akirinda ibintu bishobora guteza umwanda kwa muganga. Bimwe mu bintu bishobora guteza umwanda kwa muganga harimo kunywa itabi kandi bishobora kwangiza abarwayi.

Ubuvuzi bukwiye gutera imbere cyane, kandi igihugu kigomba gushoramo amafaranga, kugira ngo ibikoresho byose bikenewe bigurwe. Amafaranga ashorwa mu buvuzi abakoze igikorwa cy'ingirakamaro, kuko ibikoresho bikoreshwamo birokora ubuzima bw'abantu benshi.

Umwana urwaye amenyo akwiye kwitabwaho n'abaganga babishoboye kandi bafite ubushobozi bwo kumuvura, iyo bamukuye iryinyo nikuri bigaragara ko ibintu bimeze neza kandi ashobora gukira ntiyongere kuribwa nk'uko byari bimumereye.

Kwa muganga hakorerwa ibikorwa bitandukanye bifasha abaturage kubaho neza, ariko umuntu ugiye kwa muganga ikintu cya mbere ahabona ni isuku iba iharangwa, umuntu wese ushaka kugira ubuzima bwiza agomba kwigana isuku igaragara kwa muganga.

Abantu iyo bishimye baraganira kandi bashobora kwifotoza mu rwego rwo kugaragarizanya ko ari inshuti zanyazo umuntu wishimye akwiye kugaragaza ibyishimo bye aseka.

Umurwayi uri kwa muganga mu gihe akuze cyangwa se afite uburwayi bukomeye, hari abantu baba bashinzwe kumwitaho, aba bantu akaba ari ingenzi cyane kubera ko aramutse ataba fite ashobora gupfa mu gihe atitaweho neza niyo mpamvu umuntu akenera undi.

Umugore n'umugabo iyo bageze mu zabukuru bakunda kwitwaza inkoni aho bagiye hose, ibi bikorwa kugira ngo mu gihe habaye ikintu gishobora gutuma bahirima cyangwa se banyerera bitababaho.

Umubyeyi yishimira kubyara umwana gusa umusaza ndetse n'umukecuru iyo bashaje badafite akana nta muntu baba bafite wo kubafasha imirimo, niyo mpamvu umusaza n'umukecuru bashaje badafite akana bibagora cyane.

Imana yaremye umuntu hanyuma uwo muntu imwita Adamu, nyuma iza kurema umugore imwita Eva niyo mpamvu abantu iyo ubabonye ubona bishimanye cyane cyane umugabo n'umugore ni uko byapanzwe n'imana.

Umuntu wakoze imyitozo ngororamubiri arangwa no kuba afite akanyamuneza ariko kandi imyitozo ngororamubiri ntabwo yagenewe icyiciro runaka cy'abantu ahubwo umuntu uwo ari we wese yaba akuze, yaba ari umwana, ashobora gukora imyitozo ngororamubiri.

Abaturage iyo bari ahantu hamwe baba bishimye kandi bafite umutekano, abaturage bo mu cyaro nabo hari ibyo bakora kugira ngo bagire ubuzima bwiza kandi bibafasha gusabana, ibi ni ingirakamaro cyane mu gihe umuntu ashaka kugira ubwenge kuko ushobora kwigira ku bantu bakuru.

Kugira ngo umurwayi ajye kwa muganga yitabweho, agomba kuba afite umuntu umurwaza. Abarwayi bageze mu za bukuru bakwiye kwitwaza abantu bagifite imbaraga babitaho mu gihe bari mu bitaro.

Abagore ni abantu b'ingenzi cyane kandi b'agaciro kubera ko ari bo babyara abandi bantu, umugore akwiriye kwitabwaho kubera ko umugore aramutse adahari nta mwana ushobora kubaho mu gihe umugore adahari.

Ibyo kurya birimo amoko atandukanye kandi abantu bakunda ibyo kurya bitandukanye. Harimo ibyo kurya biba bikozwe mu bimera ndetse n'ibyo kurya biba bikoranywe ubuhanga bwinshi cyane urugero nk'umugati.

Abantu bateraniye hamwe biga ku kibazo runaka, baricara bagatuza kugirango bumve amabwiriza atangwa kugirango icyo kibazo gikemuke, niyo mpamvu leta ishyiraho uburyo bwo kubaha ubuyobozi buhari kugirango abantu bumvikane.

Umuntu ugeze mu za bukuru na we akwiriye gukora imyitozo ngororamubiri. Ibi bikorwa mu buryo bwo kugira ngo imitsi ye irambuke, na we ashobore kuba yagira ubuzima bwiza. Mu gihe atabikoze, imisazire ye igenda nabi, kandi ibi si ibintu byiza.

Abantu iyo bageze mu za bukuru, baba bakwiye kwitabwaho mu buryo bw'umwihariko, urugero umubyeyi iyo akuze afite abakobwa, bashobora kumwitaho bamuzanira ibyo kurya cyangwa se bamutekera.

Amazi ni ingenzi cyane kandi ni ubuzima bwa buri wese, kubera ko kimwe cya kabiri cy'igice kigize umuntu, kigizwe n'amazi. Umuntu wese ukeneye kunwa amazi, agomba kubanza kugenzura neza ko ari kuyanwera mu gikoresho gifite isuku, kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Abantu basabwa kubana amahoro kugira ngo ibintu birusheho kumera neza, abantu iyo batabanye amahoro bituma urugo rwabo rubaho nabi kandi bigira ingaruka mbi, ibi bishatse kuvuga ko umuntu wese agomba guharanira amahoro mu rugo ndetse n'ahandi.

Abagize umuryango bagomba kwitanaho mu buryo bwihariye, gusa biba bishimishije iyo ubonye umugabo n'umugore basazanye bakundana, ibi bigaragaza urukundo kandi bikunze kuboneka ahantu hake mu gihugu ndetse no ku isi muri rusange.

Umusaza ashobora kurwara indwara nyinshi ariko cyane cyane indwara ikunze kubabaza abasaza n'indwara y'umugongo niyo mpamvu abantu benshi bakuze iyo bagiye kwa muganga baba bagiye kwivuza umugongo ariko kandi abaganga babizobereye babitaho.

Abantu bakuze bagomba kwitabwaho cyane kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kugenda neza. Akenshi abantu bakuze bakunda kwitabwaho n'abana babo ariko mu gihe umuntu ukuze adafite umwana ashobora kujyanwa mu kigo runaka agakomeza kwitabwaho.

Umukobwa, umugabo, umugore bose ni abantu, umukobwa n'umugabo bakwiriye kubahana ariko cyane cyane abatoya bakwiriye kubaha abantu bakuru, umuntu wese akwiriye kwirinda kuvuga amagambo ababaza mugenzi we.

Abantu bakuze na bo bakwiriye kwitabwaho bityo bakaba bashobora gukora siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri yabagenewe, bituma imibiri yabo ikomeza kugubwa neza kandi bakishimira ubuzima.

Abantu bakuru baba bakeneye umuntu ubategurira amafunguro yo kurya, amafunguro yabo akwiye kuba nabo arimo intungamubiri kubera yuko baba bakeneye kugira ubuzima bwiza nk'abandi kandi akwiriye guteguranwa isuku.

Abantu bakuze bakwiye kwitabwaho by'umwihariko, bashobora gukorerwa ibikorwa bitandukanye kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kugubwa neza, abana babo ni ngombwa ko bakomeza kubitaho mu gihe bageze mu za bukuru.

Umuryango ugira ibyishimo iyo ufatanyiriza hamwe gukora imirimo yo mu rugo, umuryango ugira ibyishimo ni urimo umugabo udakubita umugore, umugore wubaha umugabo we ndetse n'abana bubaha ababyeyi babo.

Iterambere ryariyongereye cyane kandi rigaraga ahantu hose umuntu aho yaba aturuka hose ashobora guhura n'igikoresho cy'ikoranabuhanga kandi akamenya kugikoresha, umukecuru ashobora kumenya gukoresha indangururamajwi mugihe aganira n'abandi.

Abazungu ndetse n'abirabura bose ni abantu, bakwiriye kuganira kandi bakagaragarizanya urukundo mu gihe bahuye, abantu bagaragarizanya urukundo batyo ntibashobora kurwana kandi bashobora kugera kuri byinshi.

Abana bakwiye kubaha abantu bakuru cyane cyane abababyara, kwa muganga niho bigaragara cyane kubera yuko umwana wese agomba kurwaza umubyeyi we mu gihe arwaye, ibi bifatwa nk'ishimwe umwana aha umubyeyi kuko yamureze.

Umuntu wese ashobora gukorera isuku umubiri we, mu rwego rwo gukorera isuku umubiri wawe hari uburyo bwinshi ushobora kubigenzamo, umusaza ashobora kwiyuhagira inshuro nyinshi ku munsi kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Amafunguro meza ateguranywe ubuhanga kandi afite isuku agira akamaro cyane mu buzima bwa muntu kubera yuko umuntu uriye amafunguro meza afite isuku agira ubuzima bwiza kandi ntashobora kurwaragurika bitewe n'amafunguro mabi.

Umukecuru akwiye kwitabwaho cyane ariko cyane cyane mu gihe afite ikibazo cy'ubukene, akwiye guhabwa ubufasha kugira ngo abashe kugira nawe ubuzima bwiza, mu gihe atahawe ubufasha ashobora kubaho nabi kandi ibi bigira ingaruka mbi ku gihugu.

Umubyeyi iyo abyaye abana benshi bimugiraho ingaruka kuko ashobora kubura icyo kubagaburira, gusa mu gihe umubyeyi yabyaye abana benshi ariko afite ubushobozi bwo kubatunga biramushimisha cyane, kuko kubona abana bateraniye hamwe birashimisha.

Indwara ya sida ni indwara yandura binyuze mu guhererekanya amaraso kandi iyi ndwara ni mbi cyane kubera yuko nta mutigira nta n'urukingo igira, ubwo rero abantu bakwiriye kwirinda kwandura iyi ndwara, kuko yandurira mu busambanyi.

Umwana ukiri muto akwiriye kwitabwaho cyane mu minsi ye ya mbere, umwana kugira ngo akure neza akwiriye guhabwa amata ndetse n'ibindi biryo bimufasha gukura neza kandi agahabwa indyo yuzuye.

Abantu iyo bicaye mu cyumba cy'inama baba bafite intego nziza yo gutega amatwi no gukurikira amabwiriza bahabwa n'umuyobozi, abantu bicaye mu nama ubabwirwa n'uko bakurikira nta kurangara.

Ubuzima ni bwiza cyane iyo bwitaweho bishimisha nyirabwo, gusa mu gihe butitaweho bituma umuntu yumva amerewe nabi, niyo mpamvu abahanga bagaragaza ko umuntu akwiye kwita ku buzima bwe aharanira icyamuteza imbere, abantu baraganira kugira ngo babone icyateza imbere ubuzima bwabo.

Umuntu iyo agiye kwa muganga aba ashobora guterwa urushinge kugira ngo barebe ukuntu ubuzima bwe buhagaze, umuntu ugiye kwa muganga ntagomba kuba ashobora gutera induru mu gihe atewe urushinge, kubera ko bishobora gutuma muganga atamuvura.

Kwa muganga hari ibikorwa bitandukanye bihakorerwa bigamije guteza ubuzima imbere, bimwe muri byo ni uku kuvura indwara zikomeye urugero nka kanseri, indwara z'umwijima, indwara z'umutima ndetse n'izindi ndwara zibabaza abantu.

Indwara zitandukanye zifata abana, zituma bababara cyane kandi bakumva badakunzwe, umuntu wese ufite umwana akwiriye kumwitaho cyane, akamwonsa neza kugira ngo atarwaragurika bityo akumva amerewe nabi.

Abantu basobanura ibintu mu buryo butandukanye ariko gahunda z'ubuzima abantu bagomba kuzisobanukirwa kimwe kubera yuko umuntu wese usobanukiwe neza gahunda z'ubuzima ashobora gukora ibikorwa bitandukanye kugira ngo yite ku buzima bwe.

Urubyiruko rukwiye kwirinda indwara yitwa sida, virusi itera sida igomba kwirindwa hipimishwa buri munsi, umuntu wipimishije buri munsi ntashobora kurwara sida mu buryo bworoshye kubera ko aba azi uburyo bwo kwirinda.

Uburyo bwinshi bushirwaho na leta kugira ngo abaturage babashe kugira ubuzima bwiza. Bumwe muri bwo ni ugushiraho gahunda isobanurira abaturage gahunda zashizweho n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza.

Abantu bashinzwe kwita ku buzima bw'abantu, bakwiriye kubasobanurira ibintu byose bisabwa kugira ngo bagire ubuzima bwiza, niyo mpamvu igihugu cy'ubuzima cyangwa se ikigo gishinzwe ubuzima mu gihugu cyitwa RBC, gikora uko ba gishoboye kose kugira ngo abaturage bamenye uko bakita ku buzima bwabo.

Abantu bose bashobora kuvamo abayobozi abagore, abana, ababyeyi ndetse n'abandi mu ngero zabo bashobora kuvamo abayobozi bakomeye kandi ibi ni ingenzi cyane. Umuyobozi ashobora kuyobora ariko icy'ingenzi ni uko aba yifitiye icyizere.

Hari uburyo bwinshi leta cyangwa se abayobozi b'igihugu, bashobora gukoresha bakangurira abaturage kugira imibereho myiza no kwita ku buzima bwabo, bumwe muri bwo ni ukwifashisha abana ndetse n'urubyiruko, bagasobanurira abantu ibijyanye n'ubuzima ndetse n'uko bakita ku buzima bwabo.

Abantu iyo bafite inshingano, bagomba kwambara neza. Umuntu w'umuyobozi akwiye kwambara ikote, cyangwa se indi myenda igaragara nk'aho ifite isuku. Umuntu wese w'umuyobozi agomba kwiyubahisha imbere y'abo ayobora.

Abanyeshuri kugira ngo bagire ubumenyi mu byo biga, bakwiye gukurikira cyane kandi bagasobanukirwa akamaro k'inyigisho bahabwa. Guhabwa izo nyigisho bituma bakora akazi kabo neza.

Hari ibikorwa bitandukanye igihugu gikora kugira ngo abaturage bamererwe neza, bimwe muri ibyo bikorwa harimo gushyiraho gahunda zo gusobanurira abaturage ubuzima bwabo ndetse n'ukuntu bakiteza imbere mu bikorwa bakora buri munsi.

Abantu bateraniye hamwe biga ku kibazo runaka baraganira cyane bakungurana ibitekerezo, umuntu wese arasabwa kubahiriza amategeko n'amabwiriza mu gihe yagiye mu kiganiro abantu iyo basoje barifotoza kugira ngo buri wese azibuke ibyo bihe.

Kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza, agomba kubwitaho, mu rwego rwo kubwitaho hari uburyo umuntu ashobora gukoresha kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza, bumwe muri byo ni ukurya indyo yuzuye kandi iteguranye isuku, ibi bigafasha umubyeyi kubaho neza yishimye.

Ibintu bigaragara ku mashusho runaka bigaragaza yuko abantu bateye imbere, ariko nan nonene hakwiriye gushyirwaho uburyo bwo kubibungabunga kugira ngo abantu bakomeze kugira ubuzima bwiza, kandi bufite ireme muri rusange.

Hari indwara zivurirwa kwa muganga harimo na kanseri, izi ndwara zikwiriye kwitabwaho cyane, kanseri n'indwara mbi ishobora kwica umuntu mu gihe gitoya ariko mu gihe yivuje ashobora kubaho neza cyane.

Inyandiko y'ikinyamakuru yandikwa n'abantu b'abahanga kandi ifite uburyo yandikwamo butandukanye n'izindi nyandiko, inyandiko y'ikinyamakuru igaragaza amakuru runaka kandi umuntu wese uyisomye hari ubuhanga akuramo.

Ibyorezo ni indwara zifata abantu kandi zishobora kwandura. urugero mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri mu Rwanda hateye icyorezo gikomeye cyane cyitwa kovide cumi n'icyenda iki cyorezo kikaba cyarahitanye ubuzima bw'abantu benshi.

Afurika y'iburasirazuba yakoze uko ishoboye kose kugira ngo abaturage bayituye barusheho gukomeza kugira ubuzima bwiza. Iharanira guteza imbere ubuvuzi, ihugura abavuzi babishoboye kugira ngo babashe guhugura abandi, na bo babashe guteza imbere ubuzima bw'umuturage.

Abantu bakenewe gusobanurirwa ibijyanye n'indwara kuko hari indwara umuntu arwara mu gihe atamenye ibyayo ikaba yamuhitana. Zimwe muri izo ndwara harimo nka kanseri, iyi ndwara umuntu atayisobanuriwe ishobora kumuhitana.

inzu zigomba kugirirwa isuku mu gihe abantu bashaka kuzituramo, abantu bose bakwiriye kwita ku buzima bwabo ahantu hakwiriye kugirirwa isuku cyane cyane ni ahantu hakorerwa ibikorwa by'ubuvuzi.

Ibigo nderabuzima biri ahantu hatandukanye mu gihugu, urugero mu gihugu cy'u Rwanda harimo ikigo nderabuzima cyitwa ikigo nderabuzima cya Tabagwe, aha abaturage barahahurira bagahabwa inyigisho zijyanye n'ubuzima ndetse n'uburyo bakomeza kububungabunga.

Inyubako zigaragara kwa muganga, ziba ari inyubako nziza cyane kandi zifite isuku, izi nyubako zitwara amafaranga menshi kubera yuko abantu bakoresha izi nyubako bagomba kuba bifite cyangwa se bafite ubushobozi, kandi izi nyubako ziba zarubatswe kuri gahunda ya leta.

Amaso nayo ashobora kuzengerereza umuntu, ku buryo ashobora kuyarwara akabura uko yigenza. Gusa hari ibigo byinshi bishobora kuvura amaso, kandi umuntu wese ashobora kujyayo akivuza, mu gihe ayarwaye.

Kwa muganga hagaragara ibitanda byinshi biho ibitambaro byizaza binogeye amaso kubireba umuntu wagiye kwa muganga yumva atuje kubera ko mu gihe abonye muganga aba yizeye neza ko ubushobozi yari afite bwongera kugaruka hanyuma uburwayi afite bugakira.

Umuntu wese agomba kwihesha agaciro yita ku buzima bwe, umugore cyangwa se umugabo we agomba kujya kwa muganga agasobanurirwa uburyo yakomeza kwita ku buzima bwe mu gihe afite ikibazo, ibi ni ingenzi cyane kuko bituma umuntu wese akomeza kugaragara neza mu bandi.

Indabo ni kimwe mu bintu bishimisha abantu, abagore, abana bakuze ndetse n'abandi, bashobora kwishimisha bitewe n'uko babonye indabo indabo zituma abantu bumva baguwe neza kandi abenshi barazigura.

Mu gihe cy'ikiruhuko, abakozi bo kwa muganga nabo bagira ikiruhuko cya saa sita cyangwa se cya mu gitondo, bakaba bafata amafunguro bakarya cyangwa se bakanywa. Ibi ni ingirakamaro cyane kuko bituma nabo baruhuka bihagije kandi bagatekereza ku bushobozi bwabo bwo kuvura abarwayi.

Imodoka zigaragara nk'ikimenyetso cy'ubukire ku muntu uyifite, umuntu ufite imodoka birakwiriye ko agomba kuba afite inzu nziza, kuko udashobora kugira imodoka ariko utaha ahantu habi.

Inyubako zo kwa muganga zakira abantu benshi cyane, abantu bagana ibitaro kubera ibibazo by'uburwayi ariko hari uburyo bashobora kwegera ibitaro cyangwa se bashobora gushakamo abaganga badafite uburwayi . Urugero umuntu ashobora kujya kwa muganga agiye kugisha inama ku kibazo runaka afite.

Ikigo nderabuzima ni ahantu abantu bajya bagafata inama z'ukuntu bakwita ku buzima bwabo, mu yandi magambo ni ukurera ubuzima bw'umuntu, niyo mpamvu nk'uko izina ribivuga ikigo nderabuzima ni ikigo ubuzima bukwiriye kurererwamo niyo mpamvu umwana avugira mu bitaro.

Iyi foto igaragaza ahantu ababyeyi bahurira bakiga ibintu byinshi, aha niho ababyeyi bahurira bagahabwa inyigisho zijyanye n'uburyo barera abana babo, ibi ni ingirakamaro mu gihugu cyacu.

Hari ibigo byinshi byigisha ibintu bitandukanye. Ni yo mpamvu igihugu cy'u Rwanda cyashizeho ibigo nka kaminuza, kugira ngo abanyeshuri bahabwe ubumenyi mu bintu bitandukanye. Guhabwa ubu bumenyi, bibafasha mu guteza imbere igihugu, harimo n'ubuvuzi.

Abantu iyo bari guhabwa amabwiriza y'uburyo bakwitwara bagomba gutega amatwi bagakurikira neza kugira ngo hatagira ijambo ry'umuyobozi ribacika, abantu iyo bicaye hamwe batega amatwi bakumva ibintu byose ntakurogoya.

Abaganga bavura indwara zandura bagomba kwambara mu buryo bububahisha kandi mu buryo bubarinda kuba bakandura izindi ndwara, bashobora kwambara udupfukamunwa ndetse n'ibindi bikoresho bishobora gutuma batandura cyangwa ngo banduze abandi.

Icyumba cy’inama ni icyumba abantu bahuriramo bagamije kuganira. Gusa kwa muganga habamo icyumba abarwayi bahuriramo kugira ngo bavurwe. Hari n’icyumba umurwayi yajyanwamo agiye kubarwa bitewe n’uburwayi afite.

Hari ibigo bitandukanye umuntu ashobora kujyaho akaba yakakirwa agakorerwa ubuvugizi, mu gihe umuntu yahohotewe ashobora kujya ku kigo nderabuzima kimwegereye hanyuma agahabwa ubuvuzi bw'ibanze, ariko nanone si ngombwa ko abiceceka ahubwo agomba kubivuga uwamuhohoteye agahanwa.

Abantu bagira ubushobozi butandukanye gusa ubushobozi bwabo buba burimo ubuhanga buhanitse, niyo mpamvu umuntu wese urwaye agomba kujya kwa muganga bitewe n'uko kwa muganga habayo abantu bihariye mu kuvura indwara zitandukanye.

Ahantu iyo afite isuku umuntu arabyibonera n'amaso ye kubera ko haba harimo ubusitani buteye neza kandi harimo inzu zifite isuku; ahantu hafite ubusitani hakunda kuruhukirwa n'abantu b'ingeri zitandukanye.

Ibiti bikurura akayaga ahantu biri kandi bituma umuntu uri aho biri yumva atuje, bizana agacucu kandi bituma umuntu wabiteye abona inyungu nyinshi cyane bishobora gukora ubusitani.

Ikigo nderabuzima ni ahantu umuntu ajya agiye gufata imiti y'ikibazo runaka cyangwa se y'uburwayi runaka, ku kigo nderabuzima umuntu ashobora kuhajya atarwaye wenda afite ikibazo cyo gutekereza nabi kugira ngo bamugire inama.

Ibitanda bigaragara kwa muganga biba biriho ibitambaro by'ubwoko butandukanye, imyunzani ipima abarwayi ndetse n'ibindi bikoresho bituma umurwayi yumva amerewe neza kandi atuje.

Abanyeshuri bari mu gikorwa cyo kwiga ubuganga, bagomba kwiga bakoresheje ibikoresho byabugenewe bakareba mu byuma by'ikoranabuhanga uko umuntu aba ateye ndetse n'aho banyura ngo bamuvure.

Ubusitani ni bwiza cyane butuma umuntu wese uharuhukiye yumva ameze neza kandi atuje, umuntu wese ushaka kugira ubuzima bwiza ndetse no kugaragara nk'umuntu w'a ahantu heza agomba kuba afite ubusitani bwiza.

Inzu iyo ifite isuku irahenda cyane, umuntu ushaka inzu yo gukodesha agomba kureba inzu ifite isuku, kugira ngo nawe azashobore kugira isuku y' ibintu bye, umuntu ufite isuku agomba kuba mu nzu ifite isuku.

Birashimisha cyane iyo ugiye kwa muganga ukabona isuku ihagaragara, leta y'Urwanda yakoze uko ishoboye kose kugira ngo ibitaro bigaraga mu gihugu bikomeze kugira isuku, kandi ibitaro bitagira isuku bishobora gufungwa burundu.

Ku bitaro abantu barahahurira bitewe n'uburwayi bafite, umuntu ashobora kuba arwaye uburwayi butandukanye n'ubw'undi ariko bagahurira kwa muganga bose bagiyevuza kwivuza ni ingenzi cyane.

Inzu z'ababyeyi ni ahantu ababyeyi bahurira bakaganirarira ibibazo bafite cyangwa se igikwiriye kunozwa, na none kandi ababyeyi barahahurira bakaganira ku bibazo by'abana babo ndetse bagahabwa n'inama z'uburyo bakwiriye kurera abana babo neza.

Intebe zishobora gukoreshwa n'abantu batandukanye, hari intebe zagenewe abakire hari n'intebe zicarwaho n'abakene, ubwoko bw'intebe buba butandukanye kandi amashusho yazo aratandukanye, bitewe n'uko umuntu ayishaka.

Inyubako ni ahantu abantu baba kandi ziba zubakanywe ubuhanga kubera ko umuntu wubatse inzu aba yarabyize, umuntu wese ufite inzu agomba kuyigirira isuku kandi agateraho ubusitani kugira ngo igaragare neza.

Ahantu hakorerwa ibikorwa by'ubucuruzi hashobora gushyirwa ibintu bitandukanye, gusa hari abantu bakora imishinga yo gucuruza imiti ku giti cyabo, aba bagomba kuba bafite ibyangombwa bibemerera gukora ibyo bikorwa by'ubucuruzi.

Ibikorwa bigaragara kwa muganga biba byihariye kuko nta handi wabisanga. Mu bikorwa bigaragara kwa muganga haba harimo ibifite isuku cyane, ku buryo isuku nta handi wayisanga uretse kwa muganga. Ubwo rero mu gihe umuntu yagiye kwa muganga agomba kwigengesera kugira ngo atagira ibikoresho byabo yanduza.

Abantu bashya iyo binjiye mu nshingano bagomba gusobanurirwa inshingano zabo gusa na none kandi mu buzima ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda arabisi gikora uko gishoboye kugira ngo umuntu wese asobanukirwe ibijyanye n'indwara ndetse n'ukuntu yabungabunga ubuzima bwe.

Abantu bashaka kugira ubuzima bwiza bagomba kujya bisuzumisha buri munsi hanyuma bakamenya uko ubuzima bwabo buhagaze, kwa muganga habayo ibikoresho bibafasha kwisuzuma kandi muganga ashobora kubabwira uko bamerewe.

Abantu b'ingeri zitandukanye bashobora kwicara bakaganira, gusa hari n'ubundi buryo bashobora kugaragarizanya urukundo buri gihe mu gihe bari kumwe bagahagarara buri wese agafata ku wundi hanyuma bakishimira ibyo bagezeho.

Umuntu ushaka kubaho neza agomba gukora uko ashoboye kose, agatemberera ahantu nyaburanga, akabona ibintu byiza, akabona ibiti ndetse n'indabo bitatse igihugu, ibi bishobora gutuma yishima kandi bavuga ko umuntu wishimye adasaza vuba.

Abantu b'ingeri zitandukanye bashobora gufatwa n'indwara zitandukanye, ntamuntu udashobora kurwara yaba umukire, umukene, umwana, ukuze ndetse n'ukiri mutoya bose bashobora gufatwa n'indwara zitandukanye, icy'ingenzi ni uko bajya kwa muganga bagahabwa ubuvuzi bw'ibanze.

Hari ibigo bitandukanye umuntu ashobora kujyaho, akabona imiti, bitewe n'uburwayi afite. Icy'ingenzi ni uko imiti ihuje n'uburwayi, kandi ishobora kumuvura mu buryo bwihariye, agakira uburwayi yari afite, ntakomeze kubabara.

ibigonderabuzima ni ingenzi cyane kubera ko bituma abaturage barushaho kugira ubuzima bwiza kandi bufite ireme, ibigonderabuzima bitandukanye n'ibigo by'amashuri kubera ko ibigonderabuzima ari ahantu abaturage bahurira ndetse n'abandi kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kumera neza.

Inyubako za leta ziba zifite isuku kandi zubakanywe gahunda ihanitse, abantu benshi bakunda kuvuga ko zifite isuku bitewe n'uko igihugu kiba cyarashizemo amafaranga ahagije kugira ngo zikomeze kwitabwaho, zimwe muri izo nyubako harimo ibigo by'amashuri ndetse n'ibitaro abarwayi bavurirwamo.

Hari ibigo byinshi umuntu ashobora kujyaho ashaka gukora siporo; aha haba hari abakozi babishinzwe bamwigisha gukora siporo mu buryo buhuje n'uko ateye; umuntu ubyibushye hari imyitozo yamugenewe n'umuntu unanutse hari imyitozo yamugenewe.

Kwa muganga haba ibikorwa bitandukanye bifasha abarwayi kumva bamerewe neza, gusa icy'ingenzi ni uko haba hari ibitanda umurwayi aryamaho mu gihe arwaye, ibi bitanda bidahari byatuma abarwayi bananirwa cyane bityo kwivuza bikabagora.

Ababyeyi bakwiye kubahwa cyane niyo mpamvu hari inzu zabateganyirijwe kugira ngo mu gihe umubyeyi abyaye umwana amujyaneyo ahabwe ubuvuzi bw'ibanze ndetse anitabweho bikwiriye.

Muganga iyo abonye umuntu ufite ikibazo aramuganiriza, akamusobanurira uburyo ki ikibazo cye cyakemuka kandi byaba ngombwa akamwandikira imiti imufasha kugira ubuzima bwiza, ibi ni ingirakamaro cyane kandi bifasha abantu kubona ubuzima nk'uko Imana ibubona.

Kwa muganga hagaragara ibikoresho bitandukanye kandi bifite isuku, ibitanda, intebe nziza, kandi byose bishobora gukoreshwa n'abarwayi ndetse n'abarwaza babo, rero ni iby'ingenzi ko umuntu agiye kwa muganga agira isuku cyane kugira ngo atagira ibikoresho byaho yanduza.

Ibitaro byinshi biba birimo ibitanda bifite amapine bigenda bisunika umurwayi aho ashaka kujya, ibi bitanda ni ingenzi cyane ariko kandi birahenda ku buryo umuntu kubigura iwe mu rugo bishobora kumugora cyane cyane mu gihe akennye.

Ahantu hakorerwa imyitozo ngororamubiri ari ahantu heza kandi hashimishije hari ibikoresho byiza kandi bihagije bifasha umuntu kuruhuka. Hari uburyo butandukanye umuntu ashobora gukoramo imyitozo ngororamubiri, ariko icy'ingenzi ni uko yumva ananutse kandi ameze neza.

Ibikoresho biba kwa muganga, kubigura ngo ubishyire mu rugo iwawe biba bihenze cyane, niyo mpamvu umuntu asabwa gushyira ubuzima bwe mu bwishingizi cyangwa se kwishinganisha kugira ngo mu gihe azagira ikibazo azabone ubuvuzi byoroshye.

Umurwayi urwaye agomba kujyanwa kwa muganga kugira ngo yitabweho, bumwe mu buryo bushobora gukoreshwa kugira ngo yitabweho, harimo gupfuka igisebe mu gihe arwaye igisebe, cyangwa se agahabwa imiti.

Inyubako zikorerwamo ubuvuzi ni inyubako nziza cyane ziba zifite isuku, ariko nano umuturage nawe uhagiye agomba kugerageza kugira isuku, kugira ngo hakomeze kurangwa n'isuku nk'uko bisanzwe, niyo mpamvu umuturage ashishikarizwa kugira isuku.

Umuntu ushaka imiti hari uburyo bwinshi bushobora gukoreshwa kugira ngo ayibone, bitabaye ngombwa ko ajya kwa muganga, hari abantu babihuguriwe, ndetse bafite n'ubushobozi bwo gutanga imiti bacuruze imiti ku giti cyabo ushobora kujya mu iguriro runaka ukagura imiti ukeneye.

Kwa muganga hari ahantu bakirira abantu, umuntu wese iyo agiye kwa muganga, hari ahantu ahagarara agategereza uko abaganga bamugenza, umuntu ugiye kwa muganga agomba kuba afite ibyangombwa, akaba yicara ahantu bakirira abantu bakabimubaza.

Ibigo by'amashuri byinshi biba byubatse mu buryo bwihariye kandi umuntu iyo abonye ukuntu ikigo cyubatse abirebesheje amaso ahita avuga ati iki ni ikigo cy'amashuri; inyubako zitandukanye umuntu ashobora kuzireba akamenya igikorerwamo bitewe n'uburyo zubatse.

Ibitaro ni inyubako ziba zarubatswe na leta kugira ngo abantu bazahahurire mu gihe bafite ibibazo hanyuma abaganga babishinzwe babavura indwara barwaye, ibitaro ni inyubako nziza cyane ziba zifite isuku kandi umuntu wese ashobora kuhajya.

Umuntu ashobora kurwara akaremba cyane ku buryo icyizere cy'ubuzima gishobora kuba gike gusa iyo yageze kwa muganga, hashobora kwiyongera icyizere kuko ashobora gukira. Ashobora guhabwa amaraso mu gihe yamubanye makeya.

Kwa muganga habayo ibikoresho bitandukanye, bimwe muri ibyo bikoresho umuntu utarize ibijyanye n'ubuvuzi bishobora kumugora kubitandukanya no kubimenya amazina kubera ko byihariye cyane nta handi hantu umuntu yabibona.

Kwa muganga hakorerwa ibikorwa bitandukanye ariko byose biba bigamije guteza imbere ubuzima bw'umuntu, niyo mpamvu umuntu wese ufite ikibazo cy'uburwayi agomba kujya kwisuzumisha kwa muganga, bakareba ubwoko bw'icyo kibazo agahabwa imiti.

Mu gihe umubyeyi yabyaye umwana aba akwiye kwitabwaho cyane, umwana agahabwa intungamubiri zuzuye kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza, umubyeyi utita ku mwana we ashobora guhanwa n'amategeko, kuko mu gihugu, igihugu nk'u Rwanda kigira amategeko ahana ababyeyi batita ku bana babo.

Umwana iyo agiye kwa muganga aba afite ubwoba kuko ashobora guterwa urushinge, umwana ntakwiriye kugira ubu ubwoba kuko guterwa urushinge bituma akira indwara yamubabazaga, gusa abana ibi ntibabyitaho, ahubwo bagira ubwoba bwo gutegwa urushinge.

Inyubako zo kwa muganga ziba zubakanye ubuhanga kubera ko ari ahantu hiyubashye umurwayi uwo ariwe wese agera akabona arahumurijwe .Abakozi bakora kwa muganga baba bafite isuku kandi bakorera kuri gahunda.

Kwa muganga ushobora kusanga ibikoresho byinshi bitandukanye, ariko ibyinshi mu bikoresho bihagaragara biba ari ibikoresho by'ikoranabuhanga, kandi ibikoresho bikorerwa kwa muganga biba bisaba ubuhanga, niyo mpamvu ugomba kwitonda mu gihe wagiye kwa muganga.

Hari inzu zitandukanye zicuruza imiti kandi atari kwa muganga, aho hantu naho hagomba kuba hafite isuku kandi hubashywe, hagomba kuba ari ahantu hakwiriye kandi hagera ibyangombwa byose bikwiriye kubikwamo imiti, umuntu wese ukwiye kubaka iyi nzu cyangwa se ufite iyi nzu ibikwamo iyi miti agomba kuba abifitiye uburenganzira.

Inzu iteye neza yubatse kandi igeretse yitwa etaje, ubu bwoko bw'amazu buba bukwiye kugirirwa isuku kuko butuma abantu babaho neza kandi bakagira umutekano.

Mu gihe cy'icyorezo umuntu akwiriye kwiyitaho cyane kugira ngo atanduzwa, mu gihe yiyitaho akwiriye kwambara ibikoresho bituma umwuka w'abandi utamwanduza cyangwa se amatembabuzi ngo amwanduze.

Kwa muganga habamo abakozi batandukanye hari abakozi bashinzwe kwita ku barwayi aribo bitwa abaganga, hari n'abakozi bashinzwe gukoramo isuku, abakozi bashinzwe gukoramo isuku bahembwa amafaranga make cyane ugereranyije n'abakozi bashinzwe kuvura abarwayi.

Imiti ntabwo iboneka kwa muganga gusa ahubwo hari n'abantu bashobora kwishingira ibitaro ku giti cyabo cyangwa se bakagura imiti bakajya bayitanga mu baturage, ariko kugira ngo batange iyo miti basabwa kuba bafite icyangombwa kigaragaza ko bazi ibyo bakora.

Umwana iyo yavutse ababyeyi be barishima ndetse n'umuganga wabyaje uwo mubyeyi akishima, umwana akenshi iyo avutse ararira cyane bigaragaza ko ari muzima.

Ibitaro biba biri ahantu hatandukanye kandi ni ingirakamaro, igihugu kidafite ibitaro kigaragara nk'igihugu gikennye ariko kandi ntagihugu gishobora kubaho kidafite ibitaro kuko icyo nticyabarwa mu bihugu bigize isi.

Ahantu hatandukanye hakwiye kugirirwa isuku, isuku ntigomba kugirwa n'abantu bakuze cyangwa se bafite amafaranga gusa, niyo mpamvu umuntu wese ugiye kwa muganga, ikintu cya mbere agomba kuba afite ari isuku.

Kwa muganga hari ibikoresho bibafasha mu gusohora impapuro izi mpapuro zikaba zikoreshwa mu gihe umuntu agiye kwiyandikisha ko afite uburwayi runaka cyangwa se yishyuye amafaranga ko agiye kwivuza niyo mpamvu hari ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye.

Inzu nziza umuntu iyo ayituyemo yumva yishimye, kandi umuntu wiyemera iyo afite inzu nziza aba afite ikintu cyo kwiyemeranaranya, kubera ko umuntu wese adashobora kubaka inzu nziza kandi ihenze, umuntu ufite amafaranga yubaka inzu nziza.

Kwa muganga bakira abantu batandukanye ariko icy'ingenzi ni uko umuntu wese ugiye kwa muganga agomba guharanira guteza imbere ahantu agiye. Hari ibitaro usanga bikennye cyane ku buryo usanga kubona igitanda gikwiranye n'umurwayi bigoranye.

Imodoka iyo zashyizwe ahantu hagomba gushyirwaho abarinzi bo kurinda izo modoka kugira ngo zitibwa, umuntu ushyize imodoka ahantu kugira ngo irindirwe umutekano, hari amafaranga yishyura.

Ahantu abantu bahurira bagafata imiti bitewe n'uburwayi barwaye mu gihe atari kwa muganga, aho hantu naho hagomba kuba hafite isuku ihagije kugira ngo umuntu wese ubonye imiti aba yizeye neza ko iyo miti izamukiza indwara arwaye.

Hari imiti ishobora gukoreshwa mu buryo butandukanye ariko hari n'imiti ishobora gukoreshwa mu gusukura amenyo, iyo miti n'ingenzi cyane kubera ko umuntu ukoresha iyo miti akunda kugira amenyo meza kandi birafasha.

Imyitozo ngororamubiri iba ikenewe na buri muntu uwo ari we wese umukene, umukire ku rwego rwe ashobora kubona imyitozo y'urwego rwe akaba yayikora hanyuma akagera ku iterambere. Imyitozo ituma umubiri umera neza kandi umuntu agashobora kumva atekereza neza.

Mu myitozo ngororamubiri harimo guterura ibyuma, kwirukanka, gutwara ibikoresho bitandukanye harimo imodoka ndetse n'amagare, umuntu ukora imyitozo ngororamubiri agira ubuzima bwiza cyane.

Imiti ishobora kubamo amoko atandukanye: hari imiti isukika, ishyirwa mu bintu bituma isukika, urugero nko mu macupa, ndetse hari n'imiti yitwa ibinini umuntu afata, akayirya, hanyuma akamera neza.

Hari uburyo bwinshi umuntu ashobora gukoresha ananuramo umubiri we, umuntu wese yaba umukobwa, umuhungu, umusore, inkumi n'umubyeyi, ashobora gukora siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri.

Abantu bashinzwe kwita ku bandi babafasha gukora imyitozo ngororamubiri, akenshi ari abantu babyigiye bazi uburyo umuntu akoramo imyitozo kandi bazi uburyo bushobora gufasha umuntu gukora imyitozo bitewe n'ikigero cy'imyaka agezemo.

Amazi ashobora gutwarwa mu bikoresho bitandukanye harimo nk'amacupa ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Icy'ingenzi ni uko umuntu ayanywa afite isuku, kandi kunywa amazi inshuro nyinshi bituma umuntu atekereza neza, agatekereza bihagije kandi akumva afite umutekano.

Mu rwego rwo kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza agomba gukora siporo buri gihe kandi iyo umuntu aretse gukora siporo yazikoraga bishobora kumugiraho ingaruka zitandukanye, umuntu ukora siporo agira ubuzima bwiza cyane.

Umuntu wese ushaka kubaho neza agomba kwita ku buzima bwe, ni muri urwo rwego umuntu wese ushaka kubaho agomba kujya kwa muganga mu gihe afite ikibazo cy'uburwayi, bakamusuzuma bakareba neza uko ahagaze hanyuma agahabwa imiti.

Amazi y'umuntu a yanweye neza ashobora kugira ubuzima bwiza gusa na none kunywa amazi menshi cyane cyane ntabwo ari byiza kuko bishobora guteza indwara, umuntu anyweye amazi menshi cyane cyane ashobora kugira indwara nyinshi ariko na none umuntu utanywawe amazi ashobora guhura n'uburwayi.

Abaganga bagomba gusobanurirwa ibijyanye n'indwara nshya cyangwa se icyorezo gishya cyadutse mu gace batuyemo, kugira ngo basobanukirwe uburyo bashobora kwirinda icyo cyorezo n'uburyo bashobora kuvura abaturage baje babagana mu gihe k'icyo cyorezo.

Imyitozo ngororamubiri ni myiza cyane ariko kugira ngo umuntu agire ubuhanga mu myitozo ngororamubiri, asabwa kwitoza buri munsi kugira ngo abashe kubona ibintu akora mu gihe yagiye mu myitozo.

Abakinnyi bakina imikino runaka ni ingenzi cyane kandi batuma abantu bishima, batuma abantu bahugira mu kubareba kandi bikabashimisha cyane niyo mpamvu iyo umukinnyi agize ikibazo agomba kwihutira kujya kwa muganga.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni umuti mwiza kuko bituma umubiri umera neza, umuntu wese igihagararo yaba afite ashobora gukora siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri bitewe n'uburyo abishakamo.

Umuntu ugiye kwa muganga yavunitse akaguru, muganga ashobora gushyira ipamba ku kaguru ke hanyuma akamuvura, nyuma yo gushyiraho ipamba aramupfuka neza kugira ngo ngo udusimba tutabasha kwangiza igisebe cye.

Umuntu ashobora gukora siporo mu rwego rwo kwikiza ibibazo ndetse no kumva atameze neza, siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri ni ingenzi cyane mu buzima bwa muntu kandi umuntu udakora siporo ashobora kwigaragaza.

Gukora siporo birimo uburyo bwinshi, umuntu ushaka gukora siporo ashobora gushaka abantu bamutoza gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo ashobore kugera ku kigero cyo kunanura umubiri we.

Amazi ashobora gutuma umuntu abaho neza kuko umuntu aramutse ayabuze yapfa, umuntu wese yaba umugabo, umugore umwana ndetse n'undi uri mu kigero runaka akwiriye kunywa amazi hatitawe ku rwego rw'imibereho.

Kwa muganga haba ibintu bitandukanye kandi bishobora kwifashishwa mu kuvura abarwayi, bimwe mu bikoresho biva kwa muganga harimo inshinge ndetse n'imikasi ikoreshwa mu gukata ibisebe by'abantu barwaye kugira ngo bahoze neza hanyuma bashyiremo imiti akire.

Ku ishuri abanyeshuri bakora ibikorwa bitandukanye bimwe mu bikorwa bakora harimo gutembera, gukina, kuganira ndetse no gufashanya mu masomo. Mu gihe umunyeshuri yagiye ku ishuri agomba kwirinda kuba nyamwigendaho.

Umuntu iyo afite ikibazo cy'ubuzima ashobora kujya kwa muganga bakamurebera icyo kibazo, hari ibibazo bishobora guterwa n'imvune umuntu yakuwe mu kibuga mu gihe ari gukina, aha ashobora kwitabwaho mu buryo bwihariye na muganga ubishoboye.

Ubuvuzi ni ingenzi cyane mu buzima bwa buri munsi, umuntu wese mu gihe afite ikibazo akwiye kujya kwa muganga agahabwa ubuvuzi bw'ibanze butuma abona ibyo akeneye bityo umubiri ugakomeza kugenda neza, mu gihe atabigenje gutyo ashobora kumererwa nabi.

Hari imikino myinshi abantu bashobora gukina kugira ngo bananure ingingo zabo. Imwe muri iyo mikino harimo uwitwa rugubi. Umukino wa rugbubi ukinwa n'abantu bafite imbaraga kandi bazi gukoresha neza amaboko yabo no guterura umubiri wabo, mu gukina.

Imvune ni ikintu kibabaza cyane. Mu gihe umuntu yavunitse agomba kwihutira kujya guhabwa imiti ishobora kumworohereza kugirango adakomeza kuribwa. Bimwe mu bintu bishobora kuvuna umuntu harimo gukubitwa cyangwa se kuvunwa n'undi bakina umupira.

Imyitozo ngororamubiri igira umumaro cyane, ituma umuntu ufite ibinure byinshi mu mubiri bigabanuka kandi ituma igogora ry'umubiri rikorwa neza, igabanya ivuduka ry'amaraso kandi bishobora gutuma umubiri ugubwa neza.

Abakozi bo kwa muganga baba bakwiye kubanza guhabwa imyitozo mbere y'uko bagira icyo bakora, ibi bituma umukozi wo kwa muganga atabaga umurwayi nabi cyangwa se ngo amuvure nabi kuko aba afite ubumenyi n'ubushobozi yahawe.

Kugira ngo umuntu abeho neza akwiriye gukora imyitozo ngororamubiri, niyo mpamvu hari ibikorwa umuntu ashobora gukora kugira ngo abeho neza birimo gusimbuka umugozi, gukina umupira ndetse n'ibindi, ibi byose bifasha mu gutuma umuntu agira ubuzima bwiza.

Mu gihe abakinnyi bari mu kibuga hanyuma umurwayi akarwara, hasabwa kugirango abantu babishinzwe bamwiteho hanyuma abashe gusubira mu kibuga, mu gihe bidakozwe imvune ye ishobora kwiyongera hanyuma akaba yatakaza ubushobozi bwe bwo gukina.

Kugira ngo umuntu abeho neza, akeneye kurya neza no gufatira imiti ku gihe, mu gihe arwaye indwara runaka, niyo mpamvu umuntu iyo agiye kwa muganga ahabona ibikarito birimo imiti itandukanye, ibi ibikarito biba birimo imiti ihabwa abarwayi bafite indwara zitandukanye.

Kunywa amazi bituma umuntu agira ubuzima bwiza kandi umuntu wese ushaka kubaho neza akwiriye kunywa amazi, amazi ashobora kuboneka ahantu hatandukanye ariko icyiza ni uko aba asukuye, umuntu wese ushaka kunywa amazi asukuye ashobora kuyabona mu buryo butandukanye, harimo kuyisukurira cyangwa se kuyagura.

Ibinini bituma umuntu ufite ikibazo runaka agira ubuzima bwiza, umuntu ushaka kugira ubuzima bwiza mu gihe arwaye agomba kurya ibinini bituma ashobora kumva amerewe neza, harimo n'ibinini bivura indwara zananiranye.

Imyitozo ngorora mubiri ningirakamaro mu buzima bwa buri muntu. Umuntu ashobora gukora siporo mu buryo butandukanye harimo gukora siporo wicaye uhagaze cyangwa se urambitsinda inda ahantu. Gukora siporo bituma umuntu agira ubuzima bwiza.

Umuti mwiza kandi urambye wo gukoresha mu buzima, ni ukwivuza mu gihe umuntu arwaye, gukora imyitozo ngororamubiri, ndetse no kwirinda ibiyobyabwenge kuko bishobora kumwangiriza ubuzima.

Abantu iyo bari mu marushanwa yo kwiruka buri wese aba akwiye gushyiraho imbaraga akirukanka ku buryo asumbya abandi, bityo akaba yabona igihembo mu gihe ashoje amarushanwa ari uwa mbere.

Ubuzima bwiza burahenda cyane, umuntu ushaka kugira ubuzima bwiza agomba kunywa amazi kandi amazi afite isuku, kugira ubuzima bwiza bisaba kuba umuntu afite amafaranga ariko na none azi kuyabamo.

Ubuvuzi ni ingenzi cyane kubera ko ubuvuzi buramutse budahari ubuzima bw'abantu bwaba bubi, hari imiti myinshi ishobora kuvura umuntu, imwe muri yo iboneka mu bitaro byigenga indi ikaboneka mu bitaro byaya leta.

Umuntu ufite igisebe bitewe nuko yagiye mu mikino ngororamubiri hanyuma bakamuvuna cyangwa se bakamwangiriza, ashobora kujya kwa muganga akamwitaho mu buryo bwihariye.

Amazi iyo asukuye atuma umuntu amera neza mu gihe ayanyweye, amazi akwiriye gushyirwa mu bikoresho bifite isuku mu gihe umuntu ashaka kuyanywa cyangwa kuyakoresha ibindi bikorwa birimo guteka.

Kwa muganga iyo umuntu agiyeyo ahasanga ibikorwa bitandukanye ariko kandi umuntu ushaka kugira ubuzima bwiza, kujya kwa muganga byonyine ntabwo bihagije kugira ngo agire ubuzima bwiza, hari ibindi bintu ashobora gukora kugira ngo agire ubuzima bwiza, birimo gukora imyitozo ngororamubiri.

Bimwe mu bikoresho by'ingirakamaro harimo mudasobwa, akaba ari igikoresho cy'ikoranabuhanga gituma umuntu abona amakuru ku gihe. Mudasobwa ishobora gufasha umuntu mu bintu bitandukanye, harimo kuganira n'abandi ku bijyanye n'ubuzima bwabo.

Mu gihe umuntu ari gukora imyitozo igorora umubiri hari ibintu agomba kwirinda bimwe muri byo ni ibintu bimunaniriza umubiri cyangwa se gukora ibintu adashoboye, umuntu wese wagiye mu myitozo ngororamubiri agomba gukora ibintu ashoboye kandi bimufasha.

Abantu bashaka kugira ubuzima bwiza bagomba kwitabira imikino runaka kugira ngo na bo imyitozo ngororamubiri ibagirire akamaro, hari uburyo umuntu ashobora gukora imyitozo ngororamubiri agamije kwishimisha, ariko nanone bikamutera kugira ubuzima bwiza.

Imyitozo ngororamubiri ni myiza ariko igira akamaro muri bike kuko umuntu urwaye adashobora gukora imyitozo ngororamubiri ngo bimukize, aba akwiriye kujya kwa muganga kugira ngo abone ubuvuzi bw'ibanze bityo amererwe neza.

Umuntu ashobora gukora imyitozo ngororamubiri ari ahantu hatandukanye, gusa hari ahantu umuntu ajya gukorera imyitozo ngororamubiri agahemba umuntu umufasha kwitoza kubera yuko aba abifitiye ubuhanga buhanitse.

Mu rwego rwo kugira ngo umuntu akomeze kugira ubuzima bwiza, akwiriye kwitabwaho mu gihe yagize imvune, ariko na none akwiriye gukaraba mu gihe afite umwanda, kugira ubuzima bukomeze kuba bwiza, kandi akomeze kwishimira ubuzima bwe.

Abantu bakoze siporo baba bakwiriye kunywa amazi ahagije kugira ngo umubiri wabo ukomeze gukora neza bumve batuje kandi bafite akanyamuneza, bituma batananirwa kandi bakishimira ubuzima.

Hari ibikoresho bitandukanye abantu bifashisha bapima ibiro byabo ndetse n'uburebure bwabo, akenshi ibi bikoresho umuntu ubishaka nta handi yabisanga uretse kwa muganga.

Umuntu ugiye kwa muganga akwiye kwitabwaho cyane, niyo mpamvu muganga ari umuntu mwiza cyane, ugomba kuba wita ku bantu azi kubaganiriza, umukobwa akwiye kwitabwaho, umuhungu akwiye kwitabwaho, mu gihe yagiye kwa muganga, byose bikagenda neza.

Ibiryo birimo imbuto bigira akamaro cyane, umuntu wumvise ko afite ubuzima bwiza ni uko aba yarariye ibiryo byiganjemo intungamubiri kandi zimwe mu ntungamubiri zituruka mu mbuto, ubwo rero umuntu wese ushaka kugira ubuzima bwiza agomba kurya imbuto.

Imyitozo ngororamubiri n’ingenzi cyane, cyane cyane mu gihe ikozwe neza, mu gihe umuntu ayikoze nabi ishobora kumwangiza, cyangwa se kumunaniza ariko nk'umuntu ushaka kugira munda hato, umuntu ushaka kugira amaguru meza agomba gukora siporo buri gihe.

Ibikorwa by'imyitozo ngororamubiri ni ingenzi cyane mu buzima bwa buri muntu, muntu wese ushaka kubaho neza agomba kunanura umubiri we kugira ngo yumve amerewe neza, umuntu udakora siporo ashobora kurwara indwara zitandukanye.

Abana ni abantu bishimisha cyane kandi bakwiye kwishima kubera ko ubuzima atari burebure cyane, umwana iyo ashaka kwishimisha ashobora gukora imyitozo ngorora mubiri ituma yumva akunzwe.

Mu gihe umurwayi arwaye akaremba bikabije, akajyanwa kwa muganga, abaganga bakwiye guhita bamwitaho bakamuha imiti yabugenewe hanyuma akumva ameze neza, umurwayi iyo atabonye umuganga mu gihe gikwiriye ashobora gupfa.

Umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi ntabwo yemerewe kujya mu kibuga gukina umukino runaka, gusa mu gihe umukinnyi agize ikibazo abantu babishinzwe baraza bakamwitaho, hanyuma akabona gusubira mu kibuga.

Umuntu ushaka kugira ubuzima bwiza, agomba kurya indyo yuzuye ndetse agakora n'imyitozo ngororamubiri, bimwe mu biryo akwiriye kurya, harimo amagi, inanasi, ndetse n'imboga.

Umuntu ugiye kwa muganga aba afite ikibazo runaka, umuntu ashobora kujya kwa muganga arwaye umutwe cyangwa se amatwi, ashobora kujya kwa muganga bitewe n'ikibazo cyo kutumva neza cyangwa se ikindi.

Umuntu iyo ari mu kibuga hanyuma akavunika, abantu babishinzwe bamujyana ku ruhande bakamukorera ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo abashe gutora agatege kandi asubire mu kibuga ameze neza.

Umuntu iyo anyweye amazi yumva ashize inyota kandi anyuzwe yumva atekereje neza bityo amazi anyweye agatuma umubiri we ukomeza kugubwa neza umuntu ushaka amazi ashobora kuyagura cyangwa se akajya ku iriba akayavoma.

Kunywa amazi bituma umuntu amera neza kandi bigatuma atekereza neza, kunywa amazi ni ingenzi mu buzima bwa buri muntu kuko umuntu utanyweye amazi ashobora guhita apfa cyangwa se akamara igihe gito.

Nta muntu uhejwe mu kunywa amazi ariko na none umuntu wiheza ntanywe amazi ashobora gupfa, umuntu wese udashaka gupfa agomba kunywa amazi kubera ko amazi aribwo buzima, umuntu utanywa amazi ntashobora kubaho igihe kirenze umwaka.

Umuntu ashobora kwikorera isuku mu buryo butandukanye ashobora gufata amazi agakaraba neza akanoga yifashishije isabune, umuntu wese agomba kugira isuku kugira ngo umubiri we ukomeze kugubwa neza kandi abandi bamubone neza.

Kugira ngo umuntu agabanye uburibwe agomba gufata imiti mu gihe arwaye, mu gihe atarwaye agomba gukora siporo. Siporo zikaba zituma umubiri we ugubwa neza, imyitozo ngororamubiri ifasha umuntu wese guhumeka neza ndetse no kumva atuje.

Umuntu iyo afite ikibazo cy'uburwayi nta handi ashobora kubonera ubuvuzi uretse kujya kwa muganga, umuntu ufite igisebe ashobora gupfukwa kugira ngo icyo gisebe gikire hanyuma abone gukora ibindi yakoraga.

Ku bitaro haba hari indege zikunze gutwara amaraso y'abarwayi ziyajyana ku bindi bitaro. Ibi bituma mu gihe umurwayi arwaye kubona amaraso bitamugora kubera yuko hari abantu bitangira kumuha amaraso hanyuma agatunganywa akayahabwa.

Hari uburyo bwinshi umuntu ashobora gukoramo imyitozo ngororamubiri ariko hari n'uburyo bwinshi umuntu ashobora kwiyitaho mu gihe afite ikibazo runaka. Niyo mpamvu hari ibyuma by'ikoranabuhanga biba byarashyizwe ahantu hatandukanye kugira ngo bifashe mu kugenzura no kwita ku buzima bwa muntu.

Umuntu iyo avunitse bikabije, akwiriye guhita yihutira kwa muganga, bakamukorera ubuvuzi bw'ibanze mu gihe bikenewe, umuntu ashobora gukora impanuka bikaba ngombwa ko akaguru ke gacika, ntabwo bikwiriye ko akicira ahubwo akwiriye kujya kwa muganga bakabikurikirana.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni umuti mwiza w'ubuzima kubera yuko bituma umuntu agira imbaraga akumva afite ubushobozi bwo gutekereza neza kandi akumva amerewe neza ashobora gukora n'ibikorwa bitandukanye mu buzima.

Hari igihe uburyo bwinshi butandukanye umuntu ashobora gukoramo imyitozo ngororamubiri, harimo gusimbuka ahantu harehare, cyangwa se gusimbuka ahantu hagufiya, byose biterwa n'uburyo umuntu ashakamo kwigorora.

Umuntu iyo arwaye yaravunitse akaguru ajya kwa muganga bakamwitaho. Umuntu wageze kwa muganga aba ameze nk'umuntu wageze ahantu hiringirwa cyane, kubera yuko uburwayi ufite muganga arabureba akaguha umuti kandi akakwitaho ugakira.

Umuntu uri gukora siporo ashobora guhura n'impanuka ishobora kumwangiriza nk'ikirenge . Umuntu ukoze siporo ashobora agahura n'impanuka ashobora guhabwa imiti yabugenewe hanyuma imyitozo ngororamubiri yayisubiramo akayishimira kuko aba yakize igikomere.

Imyitozo ngororamubiri igira akamaro cyane ariko nanone igira akamaro muri bike kuko umuntu ukora siporo ariko yarwara ntajye kwa muganga ntashobora kubaho neza. Ubwo rero umuntu agomba kumenya ko mu gihe agize ikibazo agomba no kujya kwa muganga.

Umuntu ushobora gukora siporo, agomba kuba afite ubuzima bwiza. Gusa hari na siporo zagenewe abantu batandukanye bitewe n'ubumuga bafite, akaba ashobora kuzikora nta kibazo, kandi ntibibangamire ubumuga bwe.

Kunywa amazi ni ingenzi cyane mu buzima bwa buri muntu, kubera ko butuma umuntu wese yishima akumva anyuzwe. Kunywa amazi bishobora gutuma umuntu atekereza neza, kandi akumva aguwe neza bitewe n'uko akanyamuneza gaturuka mu mazi gatuma umuntu yishima.

Umuntu iyo agize ikibazo cyo kuvunika mu kaguru, agomba guhita apfukwa cyangwa se agasigwa imiti yabugenewe, kugira ngo igisebe ke gikire, umuntu iyo atitaweho afite igisebe ntashobora gukira.

Abantu bakwiriye kwirinda ivangura bityo umuzungu, umwirabura bakwiriye gushyira hamwe bakamenya ko bose ari ikiremwamuntu, umuzungu ntakwiriye gusuzugura umwirabura ahubwo bakwiriye kwitanaho nk'abantu.

Abaturage bagomba gusobanurirwa ibibera mu bitaro cyangwa se ibibera ahantu hatandukanye, gusa muganga iyo yageze imbere y'umurwayi amusobanurira ikintu cyose agomba gukora kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Bimwe mu bikoresho abakinnyi cyangwa se abantu bakora imyitozo ngororamubiri bakoresha, kugira ngo bungukirwe n'iyo myitozo ngororamubiri harimo imipira y'ubwoko butandukanye, iyi imipira ibafasha gukora imyitozo bayihanahana buri wese agafasha mugenzi we.

Umuntu iyo agiye gukina umupira, hanyuma akavunika mu ivi cyangwa se mu kindi gice cy'umubiri, akwiriye kujya kwa muganga, gusa hari igihe iyi mvune iba idakomeye cyane, hanyuma akitabwaho mu rugero runaka agakira.

Imiti gakondo ni ingirakamaro cyane mu buzima bwa buri munsi, kubera ko ivura mu buryo bwihariye, bitandukanye n'imiti ya kizungu. Iyi miti irakoreshwa cyane cyane mu gice cy'icyaro, ariko no mu mijyi irakoreshwa cyane cyane iyo yatunganyijwe neza.

Ibiti byinshi bishobora gutanga imiti runaka, ariko hari imiti iva mu byatsi byihariye, niyo mpamvu inzobere ari zo zikoresha imiti kandi umuntu wese utegura imiti, agomba kuba abifitemo ubuhanga n'ubunararibonye.

Igihingwa cyangwa se ikimera cyitwa umuravumba ni igihingwa kivamo umuti gakondo, abantu benshi barakizi kandi gikoreshwa cyane cyane n'abantu barwaye indwara zitandukanye, iki gihingwa kugihinga ntabwo bivunanye cyane.

Ibyatsi byose bifite akamaro bitewe n'ukuntu umuntu abibona, hari ibyatsi bivamo ibiryo by'amatungo, hari ibyatsi bivamo imiti gakondo ndetse hari n'ibyatsi abantu barya, umuntu wese akwiriye kwita ku byatsi.

Imbuto nk'inana, imineke ndetse n'ibindi ni bimwe mu bintu bishobora gutuma umuntu agira ubuzima bwiza, umuntu wese ushaka kubaho neza agomba gukora uko ashoboye kose akagira ubuzima bwiza, afata indyo yuzuye kandi akayifatira ku gihe.

Ipapayi ni urubuto ruryoherera cyane abantu bakunda, ipapayi zirimo amoko menshi, hakabamo amapapayi bita amapapa ya kizungu. Aya mapapayi aba ari manini cyane ku buryo umuntu ashobora kurirya rikamunanira.

Ubuzima ni bwiza cyane biraryoha kugira ngo umuntu yishimire ubuzima bwiza afite ariko nan nonene mu gihe atabwitayeho ashobora kumererwa nabi niyo mpamvu hari inama ku muntu wese ushaka kugira ubuzima bwiza ko mu gihe afite ikibazo cy'uburwayi ashobora gukoresha imiti gakondo ikamuvura.

Ibyatsi Imana yaremye bishobora kuvamo imiti gakondo, ishobora kuvura indwara zitandukanye, ibi byatsi bishobora kuvura umuntu mu kigero cy'imyaka yaba arimo iyo ari yo yose, kandi agakira akamererwa neza.

Imiti gakondo irimo ibyatsi ndetse n'ibindi byatsi biba bitunganyirijwe mu ruganda, bikavamo ifu runaka ikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo rubagimpande, impyiko n'izindi.

Imiti gakondo igomba gukoreshwa n'abantu babizi, kandi umuntu wese ukoresha iyo miti nabi akwiriye guhanwa, hari abantu babigizemo imishinga bagakoresha iyo miti biba amafaranga y'abantu, kandi iyo miti itavura.

Ibyatsi gakondo biravura cyane ariko kugira ngo bivure umuntu bigomba kuvangwa mu buryo bwihariye, umuntu uvanga ibyatsi gakondo, agomba kuba ari umuhanga kandi afite ubumenyi mu kubikoresha cyane ko bisaba ubuhanga.

Kugira ngo umuntu yumve ameze neza, agomba kurya indyo yuzuye, indyo yuzuye irimo ibitera imbaraga, ibirinda indwara, ndetse n'ibindi bishobora gutuma umuntu yumva amerewe neza, ibi ni ingirakamaro cyane kandi umuntu wese yaba umugabo, umugore, umwana ndetse n'ingimbi, ashobora kubifata akabirya akumva aguwe neza.

Ibimera kugira ngo bikure neza bibanza gutegurwa mbere y'uko bihingwa, ibimera ni ingenzi cyane kuko birimo imiti gakondo, imiti gakondo umuntu ugiye kuyigura ayihabwa ku mafaranga make.

Ibimera ni ingenzi cyane mu buzima bwa buri muntu, hatariho ibimera ubuzima bushobora kuba butashoboka kubera yuko ibimera bituma umuntu yumva ameze neza akabona kayaga, ariko usibye n'ibyo ibimera birimo imiti itandukanye y'abantu ndetse n'inyamaswa.

Umutobe w'indimu uraryoha cyane cyane mu gihe wateguranywe isuku, umuntu wese ubishaka ashobora kunywa uyu mutobe kubera y'uko nta mikorobe zishobora kugaragara muri uyu mutobe, ushobora kuba umuti ku bantu barwaye uburwayi bumwe na bumwe.

Imiti gakondo kugirango imenyekane iramamazwa cyane abantu bashobora kwamamaza imiti gakondo mu buryo butandukanye, urugero nko ku mbuga nkoranyambaga hanyuma umuntu wese ubimenye akaba yashaka umuntu wamamaje akamugurira iyo miti gakondo agakira.

Ibyatsi by'ubwoko butandukanye bigira akamaro cyane, ariko na none bigomba gukoreshwa n'abantu babifitiye ubushobozi cyangwa se ubumenyi kuko biramutse bikoreshejwe nabi umuntu akabirya bishobora kumwangiza.

Ibimera by'ubwoko butandukanye bifasha abantu cyane, ibimera bigomba kubanza gushyirwa ahantu kugira ngo biterwe harimo ibiti n'imbuto bibanza kugemekwa kugira ngo bibashe guterwa.

Ibimera bikwiriye guhabwa agaciro cyane kandi umuntu wese ukomeza kubibangamira cyangwa se kubyangiza akwiriye kubihanirwa, kubera ko ibimera bivamo imiti, iyo miti ikaba ibonwa ku giciro cyo hasi ugereranyije n'imiti abazungu bakora.

Imiti ikorwa mu byatsi igirakamaro cyane kandi ibyatsi bikorwamo imiti kubibona ntabwo bigoye, umuntu wese ushaka kugira ubuzima bwiza agomba kwita ku binini bikorwa mu byatsi kuko bivura indwara nyinshi.

Kugirango umuntu agire ubuzima bwiza agomba kubyigishwa, ariko kandi agomba no kurya neza. Umuntu wese ushaka kugira ubuzima bwiza wariye neza, yumva amerewe neza iyo ari kumwe n'abandi akabona nta kibazo afite mu buzima bwe.

Ibinini by'ubwoko bitandukanye, bishobora kuvura umuntu mu gihe afite uburwayi runaka. Umuntu ufite uburwayi agomba kurya ibinini, akabirira ku gihe, kugira ngo abashe gukira indwara arwaye. Umuntu utariye ibinini ku gihe ntashobora gukira.

Imiti ni ingirakamaro cyane mu iterambere ry'igihugu, kubera ko igihugu kidafite imiti ivura abaturage bacyo gishobora gutuma abaturage bapfa ku bwinshi kandi ntigishobora gutera imbere kuko abaturage bahorana uburwayi.

Imiti myinshi ya gakondo ikorwa mu byatsi. Abantu bakora miti aba ari abantu b'abahanga, ariko na none bagomba kuba bakuze cyangwa se bafite imyaka yo hejuru, kubera ko umuntu w'umwana kumenya ibi byatsi byamugora.

Imiti gakondo ishobora gushyirwa mu macupa ndetse no mu mashashi, ibi bigatuma iyi miti ihabwa abantu benshi kandi igakwirakwira mu buryo bworoshye, umuntu wese ashobora kuyibona kandi imiti gakondo ishobora gutunganywa igahabwa abantu.

Imiti gakondo igira akamaro cyane cyane mu gihe kwa muganga byananiranye; imiti gakondo ishobora kuvura indwara zananiranye. Imwe mu miti gakondo ikorwa mu byatsi urugero nk'icyatsi cyitwa igikakarubamba.

Ibyatsi bivamo imiti, abantu bakuze nibo bashobora kubimenya, umuntu ukuze ashobora kureba icyatsi akavuga ko icyatsi runaka kivura indwara runaka, gusa umuntu ukiri muto ntaba abifitiye ubumenyi mu gihe atabyeretswe.

Umuravumba ni igihingwa cyiza cyane gituma umuntu agira ubuzima bwiza iyo yakinyweye arwaye, iki gihingwa gikundwa n'abantu benshi kubera ko kivura indwara nyinshi cyane zirimo umutwe ndetse no guhumeka nabi.

Hari ibintu gakondo bigaragara mu gihugu cy'u Rwanda bitewe n'umuco, ibicuma, ibibindi, twubakishije ibyatsi ndetse n'ibindi. ibi bintu bigaragaza ko igihugu cy'u Rwanda cyagize umuco urangwa no gutegekwamo abami.

Ibimera bivamo imiti itandukanye kandi iyo miti yose igira akamaro ko kuvura abantu. Ibimera ni ingirakamaro cyane, kuko bikorwamo imiti iyo miti ikanyuzwa mu nganda hanyuma igahabwa abantu. Iyo miti ntibiyibuza kwitwa imiti gakondo.

Imiti yo kwa muganga ishobora gutuma umuntu uburibwe yari afite bugabanuka, gusa hari imiti yitwa imiti gakondo, miti gakondo ishobora gutuma umuntu yumva akize mu buryo runaka, ariko ubushakashatsi bugaragaza ko ari byiza gukoresha imiti yakuwe kwa muganga.

Amacupa akwiriye gusigasirwa, gusa akwiriye no kurindwa gukwirakwizwa ahantu hose, kubera ko nubwo ashobora kwifashishwa cyane mu kubika imiti, ashobora no guteza umwanda mu gihe ashaje.

Ibyatsi ni ingirakamaro cyane, kubera ko bivura abantu indwara zitandukanye, bishobora gutuma abantu bakira indwara, harimo na malariya ndetse hari n'ibyatsi bivura indwara zikomeye cyane, urugero nk'icyatsi kitwa, umuravumba.

Ibyatsi ni ingenzi cyane mu buzima bwa buri muntu, ibyatsi bishobora kuvura indwara zitandukanye harimo impyiko kandi ibyatsi bishobora kuvura indwara zananiranye kwa muganga.

Imiti imwe n'imwe ishobora kugaragara nk'indabo kubera yuko hari indabo imana yaremye zishobora kuvura indwara z'ubwoko butandukanye, izo ndwara zivurwa n'indabo zikunze kuba zihariye kandi kuzibonera umuti bigoye.

Ibyatsi ndetse n'ibindi bimera bituma abantu bagira ubuzima bwiza kuko bishobora kuvamo imiti gakondo ishobora gukoreshwa mu kuvura abantu indwara z'ubwoko butandukanye. Iki ngenzi ni uko umuntu ashobora kubyahira cyangwa se kubica akabisiga ahantu afite ikibazo hagakira nta kindi bisabye.

Ibyo kurya birimo amoko menshi gusa bigira akamaro iyo biteguranywe ubuhanga kandi bishobora gutuma umuntu yumva amerewe neza mu gihe yariye. Umuntu utariye agaragara nabi kandi ntashobora kugira akanyamuneza.

Imiti gakondo iravura cyane cyane abantu baturuka mu cyaro, bakunda kuyikoresha bivuza indwara zitandukanye kubera y’uko batinya kujya kwa muganga bitewe n'uko baba baramenyereye imiti gakondo.

Imiti gakondo ishobora gukoreshwa mu kuvura abantu indwara zitandukanye, ishobora gukorwamo uburyo butandukanye buvura abantu amarozi kandi yifashishwa n'abantu b'ingeri zitandukanye.

Imiti gakondo iravura cyane iyo yakoreshejwe neza bisaba umuntu w'umuhanga uzi kuyihamura kugira ngo ibe yavura bihuje n'uburwayi umuntu arwaye umuntu wese akwiye kwita ku buzima bwe cyane cyane abageze mu za bukuru.

Ibyatsi bitandukanye bivamo imiti gakondo, iyo miti ikaba ikoreshwa mu kuvura ibintu byinshi harimo n'amatungo, inyamaswa ndetse n'abantu. Iyi miti yo iba ihendutse uyigereranyije n'imiti ya kizungu, kubera yuko yo igura amafaranga macye.

Imiti ni ingenzi cyane umuntu wese urwaye agomba gufata umuti kugira ngo ububabare bushyire cyangwa se agire ikintu cyamubabazaga ntakindi kintu gishobora gutuma umuntu amererwa neza mu gihe arwaye uretse gufata imiti.

Inzoga z'ubwoko butandukanye zishobora gutuma umuntu arwara, ku bw'ibyo rero mu gihe umuntu arwaye agomba kujya kwa muganga dore ko habamo imiti imeze nk'inzoga iba iri mu macupa abantu banywa bakumva baguwe neza.

Hari imiti ikorwa kubwi intego zitandukanye, imiti ishobora gukorwa kugira ngo ivure abantu indwara zitandukanye, urugero harimo umuti ukorwa kugira ngo uvure ingaruka zo kwikinisha, ndetse hari n'umuti ukorwa kugira ngo uvure ingaruka ziterwa n'izabukuru.

Imiti ikorwa mu byatsi ifite akamaro cyane, gusa ntabwo ifite akamaro gusumba imiti ikorwa n'abahanga. Kubera yuko bo bashyiramo ubuhanga buhanitse, ariko imiti ikorwa mu byatsi ishobora kuvura indwara zidashobora kuvurwa n'abandi bantu, uretse abavuzi gakondo gusa.

Ibyatsi birimo amoko menshi ariko icy'ingenzi ni uko byose bifite akamaro. Ibyatsi bifite akamaro ku bantu ndetse n'inyamaswa, bishobora kuvura abantu ndetse n'amatungo kandi ibyatsi bishobora kuba ingirakamaro cyane cyane ku bantu bazi akamaro kabyo.

Imiti gakondo irafasha cyane cyane mu gihe umuntu arwaye ariko adafite ubushobozi bwo kujya kwa muganga, iyi miti ishobora gushyirwa mu macupa mu gihe yavuguswemo amazi, kubera yuko ayo mazi ashobora kuvura abantu.

Imiti gakondo irakenewe cyane muri kino kinyejana kubera ko, ibyatsi bisigaye bivura abantu benshi ibyatsi iyo bihuye n'umuntu uzi kubikoresha bishobora kuvura indwara zananiranye bidatewe n'uko izo ndwara zoroheje ahubwo bitewe n'uko umuntu wazivuye azi gukoresha no kuvangavanga ibyatsi.

Iyi miti gakondo irafasha cyane cyane mu gihe umuntu adafite ubushobozi bwo kuba yagura iriya miti twavuga ko ari imiti ya kizungu. Iyi miti irafasha kuko ivura indwara zitandukanye zirimo impiswi, malariya ndetse n'izindi ndwara zikira mu buryo bugoranye.

Imiti gakondo ni imiti iba yihariye kandi akenshi ivura indwara zihariye zidashobora kuvurwa n'imiti yo kwa muganga, imiti gakondo ishobora kuvura umuntu warozwe ariko umuntu warozwe agiye kwa muganga byagorana kugira ngo imiti yo kwa muganga imuvure.

byatsi birimo indabo ndetse n'ibindi bimera, ni iby'ingenzi cyane. Kubera ko isi iramutse idafite ibyatsi n'ibindi bimera, ntibishobora kubaho neza. Umuntu wese agomba guharanira kugira ubuzima bwiza, kandi ibyatsi bishobora kubimufashamo, kuko iyo atuye ahantu hari ibyatsi, agira umwuka mwiza ahumeka.

Imiti ishyirwa mu macupa iba igaragara neza nk'aho ari amavuta, gusa hari imiti ikorwa mu bimera ishobora gushyirwa mu macupa, igakora mu buryo bwo kuyisiga kandi ikavura indwara zitandukanye.

Ibimera bivamo imiti gakondo bikwiriye gusigasirwa kubera ko bituma ubuzima bw'abantu benshi burokoka. Umuntu urwaye indwara zitandukanye zirimo igifu ndetse n'izindi ashobora kurya ubwoko bw'ibyatsi runaka agakira.

Imiti gakondo ni ingenzi cyane mu buzima bwa muntu, umuti gakondo urakoreshwa cyane cyane mu gihe umuntu adafite ubushobozi, hari imiti iva mu byatsi gusa iyo imaze gutunganywa n'inganda ishobora kugura amafaranga menshi bitewe n'uko iba yashyizwemo ibindi bintu.

Umurwayi ujyanywe kwa muganga akaba ashobora guhura n'ikibazo cyo kuba yaterwa amaraso cyangwa se yabarwa, arabanza akabisobanurirwa, ibi bikorwa kugira ngo umuntu afatirwe imyanzuro ku giti cye kandi ubuzima bwe abe ari we ubwe ubwigenzurira.

Imiti gakondo ishobora gutunganywa mu buryo butandukanye, iyo miti iyo imaze gutunganywa abantu bashobora kuyishyira mu bikoresho bitandukanye, hanyuma bakaba bayikoresha mu buryo bwo kuvura abaturage, gusa umuntu ucuruza imiti gakondo agomba kuba abifitiye uburenganzira.

Ibimera bivamo imiti gakondo ntabwo ushobora kubibona ahantu hakure. Ahantu hose ushobora gutembera, ushobora kuhabona icyatsi kandi icyo cyatsi, kiba gifite ubwoko bw'indwara kivura, iyo gikoreshejwe neza.

Imiti ikozwe mu byatsi ikunda kugira umumaro cyane kubera yuko ituma umuntu yumva ameze neza., kandi iyi miti ntabwo ihenda ugereranyije n'imiti iba yatunganyijwe binyuze mu nganda.

Imiti ikoreshwa kwa muganga, ishobora kubikwa mu buryo butandukanye. Ubwo rero iyo miti igira akamaro cyane bitewe n'uko yabitswe neza, kandi kuyigirira isuku bigira akamaro cyane. Ni iby'ingenzi ko umuntu wese ushaka gukoresha umuti agomba kuwushyira ahantu habugenewe.

Ibyatsi nk'umuravumba ni ibyatsi bifasha cyane abantu, mu kuvura indwara zitandukanye, umuntu wese urwaye ashobora kubirya akaba yakira bitewe n'ubwoko bw'indwara arwaye, niyo mpamvu bikwiriye kubungwabungwa buri gihe.

Mu moko y'indabo harimo indabo zakozwe n'abantu, harimo n'indabo zakozwe n'imana. Indabo zakozwe n'imana ni ibyatsi biba bishimishije kubireba kandi biryoheye amaso, ibi byatsi birakundwa cyane.

Imiti gakondo ishobora kubikwa mu macupa runaka mu gihe yamaze gutunganywa hari uburyo bwinshi imiti gakondo ishobora gutunganywamo no gusekurwa, ndetse no gucishwa mu nganda runaka hanyuma abaturage bakayifata bakayinywa ikabavura.

Ibimera bitandukanye birafasha cyane cyane mu gihe umuntu akeneye kuba yavura uburwayi runaka. Mu gihe umuntu afite indwara idakira ashobora kuba yaraburiye imiti kwa muganga, abahanga bashobora kumuvangavangira ibyatsi cyangwa se ibimera runaka, akaba ashobora gukira iyo ndwara.

Imiti gakondo ishobora gutunganywa hanyuma igashyirwa mu bikoresho bitandukanye, mu rwego rwo kuyibika kugira ngo itangirika, umuntu ashobora kuyibika akoresheje amacupa ndetse n'ibindi bikoresho.

Imiti gakondo ikorwa mu byatsi irabanza igasekurwa hanyuma abantu bagakuramo amazi, bakaba bakwisiga ayo mazi cyangwa se bakayankwa, imiti gakondo isaba umuntu ufite ubuhanga kugira ngo ayikore.

Hari ahantu henshi umuntu ashobora kubonera imiti, imiti gakondo ndetse n'indi miti, imiti ishobora gutangwa mu buryo butandukanye, ariko umuntu agomba kwitonda mu gihe anywa imiti y'ibyatsi, kuko hari imiti umuntu ashobora kunywa ikaba yamwangiriza ubuzima.

Imitobe myinshi icuruzwa mu maduka, iba yakozwe mu mbuto ziva mu bimera byaremwe n'Imana, bimwe muri ibyo bimera harimo indimu ndetse n'ibindi bimera bibyara imbuto, imbuto nziza zishobora kuvamo umutobe uryohereye.

Imiti gakondo ahantu umuntu ashobora kuyikura, ashobora kuyikura mu byatsi by'ubwoko butandukanye, ibyatsi bivamo imiti bisaba kugirango ngo umuntu abe abizi hanyuma abizane abitunganye neza akoremo umuti runaka.

Ese mone irakoreshwa cyane mu kuvura abantu kubera ko we ishobora gutuma abantu bagira isuku bityo isuko ikarangwa hose kandi umuntu ufite uburwayi iyo akabye amazi meza n'isabune ntashobora gukomeza kurwara.

Ibyatsi ni ingenzi mu buzima bwa buri muntu kuko bishobora kuvamo ibiryo by'amatungo, ibyatsi bishobora gukorwamo imiti gakondo kandi ibyatsi bishobora kuvura indwara zitandukanye.

Imiti gakondo irimo amoko atandukanye kandi ishobora kuvura indwara zitandukanye, hari imiti igenewe umuryango urugero nk'imiti ivura kurangiza vuba, gucika intege n'ibindi.

Kugira ngo umuntu akire indwara runaka si ngombwa ko ajya kwa muganga kubera ko hari uburyo ashobora kuvangavanga ibyatsi hanyuma ibyo byatsi bikavamo imiti ishobora kumuvura indwara zitandukanye gusa ibi ntibyakorwa n'umuntu uwo ari we wese ahubwo bisaba umuntu ubifitemo ubuhanga.

Umuntu wese akwiye guhabwa imiti mu gihe arwaye, ariko nanone si ngombwa ko umuntu ategereza kurwara kugira ngo ahabwe imiti kubera yuko hari uburyo umuntu ashobora kwirinda mbere yuko arwara, bumwe muri ubwo buryo ni ukoza amenyo n'umuti wabugenewe kugira ngo abashe gusukura amenyo ye hanyuma adafatwa n'uburwayi mu buryo bworoshye.